Umubyeyi wambaye ikanzu ndetse n'igitambamutwe by'igitenge birimo amabara y'umutuku, umuhondo, n'icyatsi ateruye umwana wambaye ishati ya karokaro kandi uwo umubyeyi afite na amvilope mu ntoki ze hirya hari abandi babyeyi bateraniye aho ngaho.

Umugore wambaye umupira urimo amabara y'umweru, umutuku ndetse n'icyatsi, afite ikayi mu ntoki n'ikaramu, imbere ye hari akana kambaye ingofero n'agapira karimo uturongo tw'umweru, imbere ye kandi hari umubyeyi wambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe ndetse n'ikanzu y'igitenge.

Umubyeyi wambaye agapira karimo amabara ya move, umweru n'umukara, yambaye ingofero n'igitenge, ari gufata ku iriba ari gufungura amazi imbere ye, hateretse injerekani kandi hari n'iriba rinini ririho robine ebyiri zitanga amazi hakurya haragaragara imisozi iteyeho amashyamba.

Ikivunge cy'abantu barimo abagabo n'abagore bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umutuku, umweru n'umukara, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu, hagati yabo hari ameza asa umukara ateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa, amakayi, amakaramu na telefone zabo.

Umugore wambaye ishati y'igitenge ndetse n'igitambaro mu mutwe gifite ibara ry'umuhondo, ku ruhande rwa hari undi mugore wambaye ikote ririmo utudomo tw'umweru n'umukara n'apira k'umweru mo imbere, barambuye ibiganza byabo ku meza yabo iri imbere ifite ibara rya shokora, inyuma yabo hari amadarapo ndetse n'irido rinini ry'ubururu.

Umwana wambaye agapira k'umweru, wasetse, wakoze ku mboga rwatsi, uteruye isorori y'icyuma. Inyuma ye hari umubyeyi, wambaye agapira mu mutwe k'umweru ndetse n'ikanzu irimo amabara atandukanye, bari mu karima k'igikoni gahinnzemo imboga dodo.

Umugore wicaye wambaye itaburiya y'umweru ikanzu y'igitenge ufite igipapuro mu ntoki imbere ye hari umugabo n'umugore bafatanye ku rutugu, umugabo wambaye ishati yu'mweru umugore yambaye agakoti k'umukara bicaye ku ntebe z'fite ibara rya kake.

Uruhurirane rw'abana bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, harimo umutuku, umukara, ubururu, icyatsi n'umuhondo. Hagati yabo bazengurutse iriba rishyashya, bamwe bafite utujerekani baje kuvoma, inyuma hari umwana uriguhaga amazi ngo azamuke.

Abana babiri bahagaze umwe yambaye agapira k'umutuku wererutse n'undi wambaye ak'umutuku wijimye arimo aramusukira amazi ku biganza akoresheje igikombe undi ari gukaraba, inyuma yabo hari igiti cy'umuhati, ku cyapa hashushanyijeho ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita kuzima bw'abana yunisefu.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru, uturindantoki tw'umweru, ari kuvura umwana umuhagaze imbere wambaye agashati karimo ibara ry'ubururu n'umweru. Hakuno hari umubyeyi, yicaye ufite isakoshi y'ikigina, imbere yabo hari ameza ariho impapuro n'ika...

Umugabo wambaye ishati y'umweru washyize ibiganza imbere ye, kandi imbere ye hicaye umubyeyi wambaye imyenda y'umweruru harimo n'uwambaye igitenge cy'umukara n'umugabo wambaye ishati y'iroza. Hari umunzani umanitse hagati yabo.

Ikivunge cy'abana bambaye imyenda ifite amabara atandukanye arimo: umutuku, umukara ndetse na kake, bose bahurije amaboko yabo ku iriba bari gukaraba mu ntoki zabo, iryo riba ni rimwe naho ibindi bibakikije birimo ibiti ndetse n'ibihuru.

Umuntu wambaye umupira w'umweru undi wambaye umuhondo wambaye agakanzu k'igitenge baje kuvoma imbere yabo hari amajerekani ari ku murongo hari akazu k'amazi gahagazeho umuntu wambaye agapira k'umukara uri mu idirishya, ako kazi k'amazi gateye irangi ry'umweru n'iry'ubururu.

Uruvunge rw'abantu rurimo ababyeyi, abakobwa, abagabo bambaye ibitenge abandi amashati, imbere yabo hari inzu ifite irangi ry'umweru ahagana hejuru ahagana hasi yubakishije amabuye ishakaje amabati y'umutuku. Hagati muri bo hashinzemo ibendera rya repubulika y'u Rwanda, ku rundi ruhande hari ihema rifite ibara ry'umweru.

Itsinda ry'ababyeyi bicaye ku ntebe z'imbaho, bambaye imyenda y'amabara atandukanye, nk'umutuku, ubururu, icyatsi, bari munzu iteye irange ry'icyatsi, ku bikuta hariho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hejuru hari idari. Ndetse hirya hari umuganga wicaye ku meza.

Abana batatu bari ku murongo bambaye imyenda y'ishuri yiganjemo ibara ry'umuhondo n'amajipo y'ubururu, bari gukaraba intoki bafite isabune mu ntoki zabo. Imbere hari iriba ririho robine eshatu zirikumena amazi, ubona ko bari kubigisha kugirira isuku intoki zabo.

Itsinda ry'abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umweru mu ihema ririho ibitambaro byerekana idarapo ry'u Rwanda, mu bicaye aho harimo n'abapolisi, imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara ufite indangururamajwi urimo urabasobanurira.

Umugore uteruye umwana wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara yicaranye n'umwana wambaye agakanzu k'igitenge, hirya hari undi muntu wicaye mu ntebe ya plastic ufite igitabo ku bibero bye, inyuma yabo hari idirishya riteye irangi risa nk'iry'ivu.

Abantu batatu begereye iri bari rifite robine ebyiri umwe ni umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'uturongo tw'umweru afashe ijerekani aravoma, undi ni umugore wambaye umupira w'ubururu n'ikanzu y'igitenge imbere ye hari ijerekani hejuru yabo hari umugore wambaye ijire ya orange n'agapira k'umweru imbere wafashe ku iriba uri kubaganiriza inyuma yabo hari ibiti.

Itsinda ry'abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara bazengurutse imeza nini iteretseho amazi yo kunywa ndetse iriho n'indangururamajwi, hagati ahagana hirya hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara wegereye ibendera rya repubulika y'u Rwanda, inyuma ye hari imyenda y'imyeru ikingiye amadirishya.

Umwana washyize ibiganza bye ku mazi ari kunywa, hirya ye hari intebe ya purasitike, inyuma ye hari abantu batonze umurongo, bambaye imyenda ifite ibara ry'umukara n'agakanzu karimo ibara ry'umutuku n'umweru.

Umwana wambaye agapira ka oranje wunamye uri guseka afite igikombe cy'icyuma ari kuvoma, imbere ye hari iriba rifite robine ebyiri ziri kumena amazi, hirya ye hari ibihuru.

Ababyeyi babiri bicaye bambaye imipira y'umweru bateruye abana imbere yabo hari umugabo wambaye umupira ufite ibara rya orange ufite isahani mu ntoki ari kugaburira abo bana hirya hari abandi bantu batandukanye barimo n'uwambaye ipantaro y'umutuku.

Abana babiri basutamye umwe yambaye agapira k'umutuku undi yambaye ishati n'ipantaro by'igitenge, bose bari gukaraba intoki zabo kumugezi, imbere yabo hari iriba ry'icyuma riri kumena amazi, iriba ryifashishwa mu kuvoma mu gihe bapomba.

Umwana wambaye imyenda y'ishuri irimo amabara y'umutuku n'umweru, ari gukaraba intoki ze imbere ye hari ibase ifite ibara rya oranje iteretse ku cyuma kiriho indobo iri kumena amazi. Hirya ye hari urukuta rwubakishije amatafari ahiye.

Itsinda ry'abantu barimo abagore n'abagabo imbere habanza ababyeyi bambaye amataburiya y'ubururu ndetse n'ay'umweru, udupfukamunwa, bafite udutabo mu ntoki hagati harimo undi wambaye ikote ry'umweru, inyuma hari abandi bahagaze b'abagabo bambaye amakoti y'umukara, umuhondo, inyuma hari ibyapa birimo icy'umuhondo cy'umweru n'icy'ubururu.

Itsinda ririmo abagabo n'abagore, harimo bambaye amatabuririya y'umweru amashati y'icyatsi n'ikanzu z'ibitenge, inyuma yabo hari igikuta gisiranye ry'umweru gishushanyijeho abantu kandi cyanditsweho n'amagambo arimo ibara ry'ubururu n'umutuku, imbere yabo hari imeza nini iriho igitambaro cy'umweru iriho na mudasobwa ndetse n'intebe zo kwicaraho.

Itsinda ry'abagabo n'abagore bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'ubururu bahagaze mu gasima gashagaje amabati inyuma yabo hari amazu yubakishije amatafari ahiye iruhande rwabo gato hari icyapa gishushanyijeho umugore wambaye itaburiya y'umweru ndetse gifite ibara ry'ubururu n'amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umweru n'umuhondo.

Umwana wambaye agapira k'umutuku utegeye ibiganza bye amazi ari kuva muri robine, imbere ye hari iriba ririho icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'umutuku, yahindukiye kandi yasetse.

Itsinda ry’abantu bambaye imyenda y’imyeru bafite impapuro mu ntoki iruhande rwabo hari umugabo uhahagaze uri kubareberera wambaye ishati y’umweru n’ipantaro y'umukara inyuma ye hari icyapa kinini gifite umuzanano w'ibara ry'umweru handitseho amagambo ari mw’ibara ry’umukara.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara uhagaze imbere ku gatuti yafasheho, ako gatuti gafite ibara ry'umweru n'ubururu n'amagambo ari mu ibara ry'umweru yanditseho, hino ye hari intebe ziri ku murongo zegereye imeza yateretseho indangururamajwi n'uducupa tw'amazi, inyuma ye hari icyapa kinini cyanditseho: '' Gushora mu buzima.''

Itsinda ry'abagabo n'abagore, bamwe bambaye imyenda y'umutuku, ubururu n'imyeruru, bicaye ku ntebe z'umukara hagati yabo hari ameza manini ariho uducupa tw'amazi yo kunywa, ibitabo n'amakaramu yo kwandikisha, inyuma y'uwicaye hagati hari idirishya rinini rifite amarado yumweru.

Abagabo n'abagore bambaye amataburiya y'ubururu ndetse n'udukoresho tubaranga mu ijosi. Barimo barakoma amashyi banaririmba, imbere yabo bahagaze umugabo w'umuzungu wambaye ikoti ry'umukara, na we uri gukoma amashyi. Ni abaforomo bita ku barwayi mu Midugudu. Inyuma yabo hari inzu iteye irangi ry'umuhondo yanditseho amagambo yo mu ibaba ry'ubururu imbere.

Itsinda ryabantu ririmo abagabo n'abagore bambaye imyenda ifite amabara atandukanye bari kwifotoza barahagaze. Inyuma yabo hari inzu iteye irangi ririmo ubururu, icyatsi, ndetse n'umukara.

Abagabo babiri bambaye amakoti y'umukara umwe afite ibitabo mu ntoki , bahuje ibiganza bari gusuhuzanya, imbere yabo hari imeza iteretseho amazi yo kunywa ndetse n'indangururamajwi, hirya hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, gishushanyijeho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru. Arahagaze afite agatabo n'indangururamajwi. Imbere ye, hari itsinda ry'ababyeyi n'abagabo bicaye mu ihema risakaje ibitambaro bikoze ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umwana wunamye wambaye agakanzu k'igitenge kiganjemo ibara ry'umutuku, ari gukaraba intoki ku iriba hepfo ye hari ibase y'umukara robine y'icyuma, inyuma ye hari igikuta cyubakishije amatafari ya boroke sima.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa ndetse n'ipantaro y'ubururu afite igitabo ku bibero bye n'ikaramu ndetse na terefone mu kuboko kwe yegeranye n'umusore wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro ya kake wambaye kuteri mumatwi inyuma yabo hari icyapa kinini cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku n'umukara.

Itsinda ry’abantu ririmo abagore n’abagabo bicaye ku murongo, hagati yabo harimo umugabo wambaye itaburiya y’umweru, arimo aragenda hagati yabo abasobanurira. Bicaye mu nzu nini isize irangi ry’umweru, ifite inzugi zifite ibara rya shokora n’idirishya rinini ry’ibirahure.

Umugore wambaye agapira k'umutuku n'igitenge, ateruye umwana mu rubavu rwe, akoze kuri robine y'amazi, imbere ye hari indobo y'umukara ndetse n'iriba rinini ryubakiye, hirya hari urugo ruzengurutse ahari rw'ibiti, hakurya hari ibiti biteye mu ishyamba.

Umwana wambaye ishati y'ubururu na kabutura y'umukara, arunamye, ari guseka, ari gufungura amazi ari mu ndobo iri imbere y'umweru ifite umupfundizo w'ubururu iteretse ku meza ifite amaguru y'ibyuma, hirya ye hari urugo rw'ibisharashara.

Abantu bari ku murongo bambaye amataburiya y'ubururu barimo barasobanurira abandi bari imbere yabo, bambaye amakoti y,umukara n'amashati y'umweru, hirya hariyo umuntu ufite kamera uri kubafotora, hagati yabo harimo imeza iriho ibitabo ndetse n'imiti.

Umubyeyi usutamye wambaye agapira k'umutuku, ukenyeye igitenge ari koza umwana wicaye mu ibase, iruhande rwe hari undi mugore uteruye indobo wambaye igitenge mu ijosi, kandi iruhande rwabo hari iriba rinini riteye irange ry'ubururu.

Umugore wikoreye injerekani ifite ibara ry'umuhondo, ku mufundikizo urasa umutuku, yambaye imyenda ifite amabara atandukanye, imbere ye hari abana babiri umwe wambaye agapira k'ubururu n'undi wikoreye akajerekani k'amazi, imbere cyane hari inzu iri kubakwa ishakaje amabati y'umutuku.

Abantu benshi bateraniye hamwe, barimo ingeri zitandukanye nk'abagore, abagabo n'abandi. Bambaye imyenda ifite amabara atandukanye arimo ubururu, umweru, umukara n'icyatsi. Bicaye mu nzu iteye irange ry'umuhondo, ifite idirishya inyuma rinini n'urugi mu ruhande ku gikuta rusa nka shokora.

Umwana wambaye agapira k'umweru n'udusaro mu mutwe, ibiganza bibiri byamuteye urushinge ku kaboko kwe, afitwe n'umubyeyi we wambaye ikanzu y'igitenge, inyuma hari abandi bantu.

Abagore n'abagabo bicaye hamwe mu itsinda, abagabo bambaye amakoti ndetse n'amashati y'imyeru, abagore bambaye amakanzu y'ibitenge. Inzu barimo ibikuta byaho biseze irangi ry'umuhondo kandi bimanitseho ibipapuro.

Abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagore n'abagabo bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara ndetse n'umutuku, hari abandi bicaye imbere kuri podiyumu, bicaye mu ntebe z'imyeru, inyuma yabo hari icyapa kinini cyiganjemo ibara ry'ubururu n'amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umweru.

Umwana wambaye agapira k'ubururu baciyemo turongo tw'umukara, afite isabune mu ntoki ifite ibara rya oranje ari gukaraba, undi muntu ari kumusukira amazi mu ndobo y'icyatsi.

Umwana wambaye umwenda w'ishuri urimo umuhondo na kake, arunamye ari gukaraba ku bukarabiro buriho indobo ndetse n'isahane y'icyuma. Inyuma ye hari igiti kinini cy'inganzamarumbo n'abandi banyeshuri.

Ababyeyi bahuriye hamwe harimo abambaye amakanzu y'ibitenge afite ibara nk'umuhondo, ubururu, umutuku umukara hari n'abambaye udupira bahuriye mu nzu iteye irangi ry'umweru, kubikuta hashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye nk'inzu igiti, abana.

Abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagore n'abagabo hagati yabo harimo ameza nini iriho igitambaro cy'umukara iteretseho udukoresho dutandukanye nk'amakaye, amakara, mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa. Hirya hari abandi bantu nabo bicaye muri ubwo buryo bw'igikuta kiriho ibara ry'umuhondo.

Abagore n'abagabo bambaye amataburiya y'ubururu ,ndetse n'ukuntu tubaranga mu ijosi. Hagati yabo hahagaze umugabo wabafashe ku ntugu wambaye ikoti ry'umukara n'amadarubindi. Hakuno hari undi mugabo wambaye itaburiya y'umweru bose ni abanyabuzima.

Abagore bambaye ibitenge byiganjemo ibara ry'umutuku, umukara ndetse na oranje. Umwe afite indobo y'ibara ry'ubururu ari imbere y'iriba, abandi bari inyuma bafashe icyuma k'iriba barimo barapompa amazi.

Umwana wambaye agashati ka gisirikare n'agakabutura k'umutuku wunamye arimo aranywa amazi akoresheje ibiganza bye. Imbere ye hari iriba ririho robine ebyiri, harimo imwe iri kumena amazi kandi imbere ye hari indobo y'icyuma irimo amazi yuzuye.

Itsinda ry'abasore n'inkumi bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'utubaranga mu ijosi abandi bambaye imyenda y'imikara harimo abasutamye kandi n'abicaye inyuma yabo hari icyapa kinini gishushanyijeho abaganga kandi kikiriho amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umweru.

Abagabo bicaye bareba imbere bambaye amashati y'amabara atandukanye nk'umuhondo, umweru, umukara ndetse n'andi mabara, imbere yabo hari ameza manini ariho igitambaro cy'ubururu n'umweru, hateretseho kandi icupa ry'amazi yo kunywa, telefone n'utundi dupapuro turanga ibyo bahagarariye, inyuma yabo hari amadirishya ariho amarido.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagabo, harimo umugore umwe wicaye ku ntebe hamwe n'abandi bicaye, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu. Inzu barimo ifite impuzangano y'ibara ry'umweru.

Umwana wambaye agapira k'umuhondo n'akajipo k'ubururu n'icyatsi ari mu mazi menshi arimo aravoma, afashe ijerekani n'ibara ry'umuhondo, imbere ye hari ibyatsi inyuma ye hari ibihuru bikikije ayo mazi.

Abantu bakikije iriba harimo abana batoya barimo bambaye agapira k'umweru n'agajipo k'umutuku, bari kumwe n'umugabo mukuru wahindukiye wafashe kw'iryo riba. Iruhande hari amajerekani arimo ibara ry'umuhondo ryijimye ndetse n'urwerurutse.

Umuntu wambaye imyenda y'ubururu ahagaze ndetse n'agapira k'umweru, imbere ye hari umugabo wambaye itaburiya y'ubururu ufite ikaramu mu ntoki, ku ruhande hari undi muganga wambaye itaburiya y'umweru hari imeza hagati yabo ifite igitambaro cy'umweru iteretseho ingofero, igikombe cy'amazi na mudasobwa, hirya hari undi mugore uhahagaze, ahantu bahagaze hazengurukije ibitambaro bikoze idarapo ry' Rwanda.

Abantu biganjemo urubyiruko, bambaye imipira y'ubururu, bamwe bashyize intoki hejuru, abandi bifasha mu mayunguyungu, abandi bifashe mu gatuza. Hagati yabo hari agatuti bashikamiye, kariho ikirangantego cy'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima bw'abana unisefu.

Itsinda ry'abagore ndetse n'abangavu bambaye ibitenge n'indi myenda itandukanye, irimo amabara atandukanye, nk'umuhondo, umweru na oranje, bazengurutse umugabo uhagaze imbere yabo wambaye ikote ry'umukara, ufite impapuro mu ntoki n'ikaramu, uri kugira icyo ababwira, inyuma yabo hari inzu iteye irangi ry'icyatsi.

Umwana wambaye agapira k'icyatsi n'agakabutura k'umukara, Ariteze ibiganza ku iriba, ari gukaraba intoki. Iryo riba rye rituriye ishyambahino. Hari indobo iri mu ibara ry'ubururu. Umwana ari kureba imbere ye.

Umugore wicaye wambaye ikanzu y'igitenge uteruye umwana, imbere yabo hari umuganga wunamye wambaye itabuririya y'umweru n'ikanzu y'igitenge mo imbere . Afiteti mu ntoki yasanga uyu mwana arimo ,inyuma ya hari urugi rusa icyatsi rwerekeza mu kindi cyumba.

Umwana wambaye agapira k'umweru n'akajipo k'igitenge, afite akajerekani ashikamye iriba arimo aravoma, hirya hari undi mwana w'umuhungu wambaye agashati k'umweru n'agakabutura k'umukara, yafashe icyuma cy'iriba arimo arapomba amazi, hirya yabo inyuma hari ibihuru.

Umugabo uhagaze wambaye ishati n'ipantaro bisa byiganjemo ibara ry'ubururu bwerurutse, imbere ye hari umugore wambaye ishati y'igitenge, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye bya muzika, harimo nka mudasobwa, icyuma cyifashishwa mu kongera no kugabanya amajwi.

Abaganga bambaye imyenda y'ubururu, udupfukamunwa n'ingofero z'ubururu, bari kubaga umurwayi uryamye, imbere yabo uri kubaga afite udukoresho twifashishwa mu kubaga, iruhande rwabo hari ibyuma, amamashini yifashishwa mu kumenya uko ubuzima bw'umurwayi uri kubagwa buhagaze.

Uruhurirane rw'abantu bicaye mu ntebe zisa umutuku, bambaye udupfukamunwa tw'umukara n'imipira y'icyatsi n'umweru, imbere yabo hari ameza manini ariho igitambaro cy'umweru, hateretseho uducupa tw'amazi ndetse n'udutabo bari kwifashisha.

Umugabo wambaye ishati ya kalokaro yiganjemo ibara ry'umweru n'umutuku, yambaye ipantaro y'umukara, ashikamiye ijerekani y'umuhondo, imbere ye hari iriba ririho robine ebyiri, inyuma ye hari urugo rw'imihati.

Itsinda ry'abantu ririmo abagabo n'abagore, harimo abambaye amashati ya karokaro n'amakote y'ubururu bicaye, bazengurutse imeza nini iteretseho ibikoresho bitandukanye nk'amazi yo kunywa, insinga z'amashanyarazi na mudasobwa. Bari mu cyumba giteye irangi ry'umweru.

Umwana wambaye ikanzu y'ubururu, umupira w'ubururu bwerurutse, ari gukaraba kuri robine ndetse inyuma ye hari amazu yubakishije ibyondo n'ibiti bikikije ahantu hari.

Abantu bicaye mu itsinda, imbere yabo hari abandi bicaye hejuru ku gatuti harimo abagabo batandatu n'umugore umwe. Abagabo bambaye amakoti y'imikara n'amashati y'umweru, inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho amafoto y'abantu n'imyirondoro yabo.

Umugore wicaye wambaye itaburiya y'umweru, afite agakoresho ari gukoresha apima abarwayi gapima umuvuduko w'amaraso, imbere ye hicaye ababyeyi batatu, umwe wambaye ishati y'umutuku n'igitenge, undi yambaye umwitero w'ibara rya oranje.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, ari gukaraba kuri kandagira ukarabe y'ibiti, akabido kari hagati gafite ibara ry'umuhondo, hirya hari ibiti by'indabyo bihateye byiganjemo amabara y'umutuku ndetse n'icyatsi kibisi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru irimo uturongo tw'umukara n'ipantaro ya kake, afashe umwana akaboko ari kumutera urushinge, umugore umuri imbere yambaye igitambaro mu mutwe ateruye uwo mwana, hirya hari undi mugabo wambaye itaburiya y'umweru, imbere ye hari ameza manini ariho ibitabo, afite ikaramu arimo arandika, bicaye mu ihema.

Itsinda ry'abantu ririmo abakobwa, abagabo bamwe bambaye imipira y'ubururu abandi bambaye imipira y'imyeru n'ingofero y'imyeru. Bafite icyapa kinini kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'icy'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda handitsemo amagambo arimo ibara ry'umweru n'umuhondo.

Abana bari ku mugezi umwe yambaye agapira ka kake, uri hagati wambaye ak'ubururu n'akumweru, imbere yabo hari utuvido barimo baravoma ku iriba ry'icyuma, inyuma hari umuntu ufashe kuri iryo riba ry'icyuma arimo arabapompera amazi, hakurya harimo imodoka iri muhanda, ku ruhande rwo hino ku musozi hari ibyatsi.

Umugabo uri mu muzenguko wa mpande enye wambaye ikote ry'ubururu, ishati yy'umweru na karuvati y'ubururu yasetse. Hepfo hari ibirangantego kimwe kiri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, bivuga ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda, ikindi ni kirangantego ni ikiranga repubulika y'u Rwanda hari amagambo menshi yanditse mu ibara ry'umukara.

Abantu bifotoje bahagaze harimo ubwiganze bw'abagabo bambaye amakoti y'ibara ry'umukara n'ubururu, ku ruhande hari umugore wambaye ishati y'umweru n'ijipo y'umukara, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umwana wunamye wambaye agapira k'umukara n'ikabutura y'umuhondo afite isabune mu ntoki, ari gukaraba imbere ye hari indobo y'ubururu. Imbere ye kandi hari umwana uhagaze wambaye agapira k'umuhondo uteruye ibinika, hirya hari inzu yubatse ndetse n'urugi rwayo.

Abagore babiri bicaye barimo bambaye ikoti ry'umukara undi yambaye itaburiya y'ubururu bose bambaye upfukamunwa imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro na mudasobwa imbere hari umugore wambaye ikoti ry'umukara n'ikanzu y'igitenge irimo amabara y'umutuku ndetse n'umweru hirya hari abandi bantu bicaye ku ntebe y'urubaho bari mu nzu ifite inzugi ndetse n'amadirishya afite ibara rya shokora.

Umwana wambaye ishati y'icyatsi n'ikabutura y'umukara yunamye ari gukaraba intoki ze kuri robine, imbere ye hari indobo isa ubururu inyuma ye hari n'indobo ntoya, inyuma ye cyane hari ibihuru.

Umwana wambaye agapira ka kaki n'agakabutura k'umutuku wasutamye uri kwikorera indobo y'amazi, imbere ye hari iriba rinini rifite robine enye ziri kumena amazi, hirya y'aho hari umugabo uhahagaze wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'ubururu bafashe ku iriba.

Itsinda ry'abagabo n'abagore b'abanyabuzima bambaye amatabuririya y'ubururu, bari gukoma amashyi; inyuma yabo hari ihema rifite ibara ry'umweru. Imbere yabo hari ubusitani, kandi begereye inzu yubakishije amatafari ahiye.

Umwana wunamye wasetse wambaye agapira ka oranje, akaboko ke k'iburyo gafashe igikombe cy'icyuma kiri ku mugezi, imbere ye hari iriba ririho robine ebyiri riri kumena amazi nawe ari kuyavoma hirya ye hari ibihuru.

Itsinda ryabantu bambaye imyenda ya orange ndetse n'amajire ya kake, bahagaze mu buryo ari benshi bamwe bambaye n'amashati y'umukara, imbere yabo hari abandi basutamye abandi bapfukamye bari kunywesha abana amata, hari abari gukoresha ibikombe abandi bari gukoresha inkongoro.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu afite mu kuboko kwe kw'iburyo urupapuro runini rushushanyijeho abana babiri uw’umuhungu n’umukobwa inyuma ye hari umugore wambaye agashati umweru ukenyeye igitenge, inyuma yabo kandi ari urukuta rwubakishije amabuye ruteye irangi ry'umutuku n'umukara.

Itsinda ry'ababyeyi bateze amaboko harimo abambaye amakanzu y'ibitenge, harimo n'abambaye n'ay'imituku ndetse n'umukara, imbere yabo hari imeza inyuma ya intebe y'umukara ndetse n'intebe za porasitiki z'umweru, bari mu nzu itera irangi ry'umuhondo irimo ibishushanyo bitandukanye ahagana ku gikuta.

Abantu bicaye hamwe bari kuganira, harimo abambaye amakoti y'umukara, udupira tw'umweru n'andi mabara. Hagati yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi, ibirahure ndetse udutabo na telefone zabo. Imbere hari icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru avuga ngo "Ku bwa buri mwana." Hirya hari tereviziyo nini irimo ibiganza byashushanyije ikimenyetso cy'umutima.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki, ndetse n'agakoresho mu ijosi kifashishwa mu gupima imitere y'umutima, ari gupfuka umwana ku mutwe, uwo mwana ateruwe n'umubyeyi wambaye ikanzu y'igitenge, ndetse n'igitambaro mu mutwe.

Umwana wunamye wambaye imyenda ifite ibara rya move, afite igikombe cy'umweru mu ntoki ari kuvoma kw’iriba, hirya ye har’ikigega kinini gifite ibara ry'umukara cyubakiye, hirya kandi inyuma ye hari igikuta cyubakishije amatafari.

Abantu bicaye ku ntebe z'imbaho bateganye barebana, hirya yabo hari inzu iteye irangi ry'ubururu imbere yaho hari imbuga nini y'ubusitani haparitsemo imodoka hakurya hari indi inzu yubakishije amatafari ahiye.

Umubyeyi uhetse umwana mu gitenge kirimo utubara, yambaye agapira k'icyatsi, ari koza umupfundikizo w'indobo ufite ibara ry'umutuku mu ntoki, hasi hari indobo isize irangi ry'umuhondo n'indi y'umutuku, imbere hari iriba rinini ry'icyuma.

Umugore w'umuzungu wambaye agapira k'umweru, ikiganza kimwe gifashe mu gatuza, ikindi gifashe indangururamajwi, ari kureba ku ruhande rwe, inyuma hari ikirangantego kiranga umuryango mpuzamahanga wita ku buzima unisefu, naho ku rundi ruhande hari ibyapa biri mu mabara atandukanye.

Umubyeyi wicaye wasetse wambaye ikanzu y'gitenge ateruye umwana wambaye agapira k'umweru; iruhande rwe hari umuganga wambaye itabuliya y'umweru afite umuti mu ntoki arimo araha uwo mwana bateruye; inyuma yabo hari urugi rukinguye rufite ibara ry'icyatsi rwerekeza mu kindi cyumba.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru igitambaro mu mutwe cy'umukara ari gupima abarwayi akoresheje akuma kifashishwa mu kumenya umuvuduko w'amaraso, imbere ye hicaye ababyeyi batatu harimo uwambaye igitambaro cy'umutuku ndetse n'igitenge, undi umukurikiye yambaye agapira ka oranje.

Umugore wambaye ijeri y'icyatsi ndetse n'ikanzu y'igitenge, higanjemo ibara ry'ubururu bwerurutse, yambaye agapfukamunwa k'umweru n'uturindantoki, afite kakuma kifashishwa mu gupima ubushyuhe buri mu mubiri w'umuntu, imbere ye hari umugore ufite ikiringiti, hiryaye hari undi wambaye ingofero.

Itsinda ry'abantu bambaye imyenda irimo amashati y'umweru, iy'ubururu ndetse n'imikara bazengurutse imeza nini isa kake iteretseho udukombe tw'icyayi cyo kunywa. Icyuma cyifashishwa mu kugaragaza amashusho mu buryo bunini, bamwe bicaye mu ntebe zisa umukara abandi mu ntebe zisa icyatsi.

Itsinda ry'abantu batandukanye bambaye imyenda irimo amashati y'umweru, imipira y'ubururu, amakote y'umukara n'ibindi. Bose bazengurutse imeza nini iteye irangi ry'ibara rya shokora, hateretseho ibikoresho bitandukanye nk'ibitabo, amakaramu, amacupa y'amazi bari kunywa, ndetse na telefone zabo.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru afite agakayi mu ntoki kandi mu maso yambaye kasike n'agapfukamunwa, yakoze ku rutugu rw'umusaza wambaye ishati y'igitenge irimo amabara y'umutuku n'umuhondo ndetse yambaye n'akagofero mutwe k'umweru, inyuma yabo hari akana kambaye agapira k'ubururu n'agakabutura k'umukara ndetse n'indabyo.

Abantu baje kuvoma ku iriba harimo ababyeyi biganje bambaye ibitenge mbere yabo hari amajerekani menshi ari kumurongo ku ahagana ku kazu kamazi hari umugore wambaye umupira w'umukara uhagaze mu idirishya ryako uri kubavomera akazu kamazi gafite ibara ry'umweru ku madirishya n'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, inkweto n'ipantaro by'umweru, wicaye ku ntebe y'urubaho iruhande rwe hateretse ibitabo, imbere ye hicaye umugore uteruye umwana wambaye agapira k'umutuku, hirya yabo hari inzu yubakishije amatafari ahiye n'irido riri mu muryango.

Itsinda ry'abantu barimo abagore n'abagabo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye harimo umutuku, icyatsi, ubururu ndetse n'umuhondo bafite ibipapuro imbere yabo by'umweru byanditseho amagambo inyuma yabo hari ibihuru n'akazu kubabakishije amabati.

Umugore usutamye wambaye agapira k'umutuku n'ijipo y'umukara, imbere ye hari ibase y'icyatsi iteretsemo indobo y'umuhondo, ari kuvoma ku iriba, hirya ye hari inzu yubakishije amabati, naho inyuma ye hari imyenda iri mu mabara atandukanye yanitse ku mugozi.

Ikivunge cy'abantu kirimo abazungu, abirabura harimo abambaye imyenda y'ubururu n'iy'umukara n'amataburiya y'imyeru. Bahagaze mu ihema rifite ibara ry'umweru imbere hari umwana uryamye.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru uhagaze ku gatute gafite ibara ry'umweru ry'ubururu, iruhande rwe hari intebe zifite ibara ry'umuhondo kandi ku ruhande rw'ibumoso hari ameza manini ariho indangururamajwi n'uducupa tw'amazi yo kunywa, inyuma hari icyapa kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abantu bane bahagaze imbere ku gakiniro, hirya yabo hari ikirango cy'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima bw'abana Unicef, ku rundi ruhande hari icyapa gishushanyijeho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda, inyuma yabo hari televiziyo nini iri mu ibara ry'icyatsi, yanditsemo amagambo ari mu ibara y'umweru.

Umugore wambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo, umweru n'umukara, yambaye kandi isaha agapfukamunwa n'amaherena. Ateruye umwana wambaye agapira k'umweru n'agakabutura k'ubururu, kandi amuteruye mu bishura by'umweru. Inyuma ye hari igikuta gisize irangi ry'umuhondo n'amadirishya y'ibirahure.

Inzu iteye irangi ry'umuhondo isakaje amabati y'umutuku ifite amadirishya manini y'ibyuma, ifite urukuta rw'amabuye ruyikikije rugoswe n'ibyuma biteye irangi ry'ubururu. Hirya hari akazu kagufiya gateye irangi ry'ubururu.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge, ifite utubara tw'icyatsi ahagana ku maboko. Afite indagururamajwi arimo aravuga. Yegeranye n'umugabo wambaye umupira w'umukara, uri kureba ahagana hirya. Imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye. Inyuma yaho hari icyapa kinini kiriho ibiganza bibiri...

Umugabo wambaye ishati y'umweru uhagaze hagati y'amabendera abiri, harimo ibendera rya Repubulika y'u Rwanda, ndetse n'ibendera riranga umuryango mpuzamahanga wita ku buzima bw'abana UNICEF, haruguru hari amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu agira ati:"Turi kumwemwe", hepfo hari andi magambo yanditseho ari mu ibara ry'umukara n'ubururu.

Itsinda ry'abantu bahagaze imbere bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru n'umukara, imbere yabo hari amezi abiri manini maremare afite ibara rya shokora, inyuma yabo hari igikuta cy'umweru gifite urugi rw'icyuma.

Umusaza wicaye hasi wambaye agapira k'umutuku, ikabutura y'ubururu y'ikoboyi, kandi yambitswe amapingu ku maboko ye yombi ari imbere. Inyuma ye hari abantu bamuhagazeho, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye nk'umukara, umweru n'umutuku.

Umugabo uhagaze mu muhanda uri kurya umuneke wambaye imyenda yacikaguritse, afite umusatsi mwinshi utogoshe, udakoze isuku, kandi mu maso ye arasa nabi cyane ari ku ruhande rw'umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ziri kugendamo ndetse na moto, uwo muhanda ukikijwe n'ibiti.

Umugore wambaye imyenda y'umweru ufite ikaramu mu ntoki, imbere ye hari mudasobwa n'uducupa tw'amazi. Inyuma ye hari undi mugore wambaye ikote ry'umutuku n'amadarubindi ndetse n'abandi bantu benshi bateraniye aho. Hagati yabo harimo ameza ariho ibitambaro by'umweru, hateretse uducupa tw'amazi, mudasobwa n'ibindi bikoresho bya ngombwa bari gukenera.

Umugore wasetse wambaye akamuranga mu ijosi, yambaye ikanzu y'igitenge iri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu, yambaye ibikomo ku maboko n'amadarubindi mu maso, inyuma ye hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Itsinda ry' abantu b'urubyiruko bambaye udupira tw'ubururu n' amapantaro y'umukara, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara ndetse na karuvati, kuruhande rw'iburyo hahagaze umuzungu wambaye ikoti ry'umweru n' ipantaro y'umukara.

Itsinda ririmo abagore n'abagabo bamwe bambaye amakanzu y'umutuku, umukara n'icyatsi harimo n'abagabo basutamye imbere bambaye amashati y'uyeru n'umutuku inyuma yabo hari igikuta kinini gisize irange ry'umweru n'urugi rufite ibara rya shokora ndetse n'irido rinini hejuru hari ifoto y'umuntu.

Abagore bicaye ku murongo imbere y'ameza y'igitambaro cya kake ateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa, amakayi ndetse na terefone. Imbere yabo hari undi uhagaze wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara ufite indangururamajwi mu kuboko kwe kw'iburyo imbere ye hari ameza ariho igitambaro cya kaki inyuma yabo hari icyapa cyiganjemo amabara y'umweru n'icyatsi.

Ababyeyi bicaye ku rubaho, batatu, bambaye imyenda irimo amabara atandukanye nk'umuhondo, umukara, n'umutuku, imbere yabo hicaye kandi umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro ya kaki uri kwireba kuka kaguru wicaye ku rubaho, hirya yabo hari urutoki n'ibiti.

Umugore wambaye akajiri k'ubururu n'agapfukamunwa ku kuboko, arimo aravuga yazamuye urutoki rwe, iruhande rwe hari undi mugore wambaye ikanzu y'igitenge irimo utubara tw'umutuku, ubururu bwerurutse n'ubwijimye wifashe mu kiganza afite ikayi mu ntoki, inyuma yabo hariyo umugabo n'umugore

Umugore wambaye igitenge nagashati wipfumbase wicaye ku rubaho rw'igiti, yambaye ikabumba iri imbere ye harimukeka yicaye mu nzu ishaje yashenyutse hejuru ye hari idirishya ryibiti kandi ririmo na giriyaje.

Ikirango kirimo abantu bafatanye amaboko kiri m’ ibara ry'ubururu ndetse n’ orange, n' icyatsi, hepfo yaho hari amagambo ari mu nyuguti nkuru atandukanye agaragaza u Rwanda ubuzima ndetse n' imikorere ya kiganga.

Umugore uhagaze wambaye ikote ry'ubururu n'ikanzu y'igitenge imbere, yasetse ari kundeba. Hirya ye hari icyapa kiri mu ibara rya oranje imbere ye hari urugi rufite ibara rya shokola yahuje amaboko ye imbere ku nda ye.

Itsinda ryabagore n'abagabo bahagaze, bareba imbere, bari kwifotoza, bayifashe mu biganza, imbere yabo bambaye imyenda y'amara atandukanye, harimo umweru, icyatsi, umutuku, n'umukara, n'ubururu. Hirya yabo hari icyapa kiriho amabara y'umweru n'ubururu.

Ababyeyi batatu bahagaze, babiri bambaye udupira dusa tw'umutuku n'ibitenge, bose bafite inkoni mu ntoki zabo, uw'inyuma yambaye agapira k'ubururu, uwo hagati ateruye umwana, mu kuboko kwe kw'ibumoso afite n'umufuka.

Umubyeyi wambaye ishati ndetse n'igitambaro m’umutwe by’igitenge bifite amabara y'icyatsi, umuhondo, umukara n'umweru. Yasetse afite amenyo y’umweru inyuma ye har’abandi bantu bambaye imyenda y’imyeru n'umukara.

Itsinda ry'abantu ryiganjemo abagore, bambaye amakanzu y'ibitenge arimo amabara atandukanye, nk'umutuku, umuhondo, umukara ,ubururu, n'icyatsi, barimo barakoma amashyi, hagati yabo hateretse imeza iriho ibitambaro by'umweru, kandi kuri iyo meza hariho uducupa tw'amazi, amakayi ndetse na za mudasobwa.

Itsinda ry'abagore bambaye ibitenge birimo amabara y'umuhondo, umukara n'umutuku, imbere yabo hari umugabo wicaye ku rubaho wambaye ishati y'ubururu, ipantaro ya kake uri kwireba ku kaguru, inyuma yabo hari urutoki n'ibiti bihateye.

Itsinda ry'abasore n'inkumi bambaye hejuru udupira tw'ubururu, hasi bambaye amapantaro afite amabara atandukanye, nk'umukara, umweru, ndetse na kacyi, hagati yabo hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru, karuvati n'ipantaro y'umukara, hakuno hahagaze umuzungu wambaye ikote ry'umweru, bahagaze munsi y'inzu iteye irangi ry'umuhondo.

Umwana wambaye agapira k'umweru, wifashe ku mutwe n'amaboko yombi uri kurira, inyuma ye hari urufunge rw'abantu batandukanye, n'umugore wambaye imyenda irimo utudomodomo tw'umutuku ndetse n'umuhondo, ufite inkwi mu ntoki.

Itsinda ry'abagore n'abagabo bicaye bambaye imyenda ifite amabara atandukanye nk'icyatsi, umuhondo, n'umutuku n'umukara imbere yabo hari ameza manini afite igitambaro kirimo ibara ry'ubururu n'umweru hateretseho uducupa twa'mazi, amakayi na za mudasobwa hagati yabo hari umugore uhagaze wambaye ikanzu y'umweru n'ikoti ry'umukara bari mu nzu isize irangi ry'umweru kandi ifite n'amarido

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge ufite ishakoshi mu kuboko kwe ku ibumoso, uku iburyo gufite indangururamajwi, imbere ye hari umukobwa wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara, hirya hari abantu babitegeye bicaye mu ntebe bari kureba ibyo bari gukora.

Umugore wambaye ishati y'ubururu uhagaze imbere yagatote gafite ibara ryumweru, n'ubururu, imbere ye kandi nano hari indangururamajwi kuruhande hari amagambo yanditse ya oranje mu ibara ry'mweru.

Umuntu wicaye wambaye agapira k'ubururu gashushanyijeho umuntu, afashe ku kaboko k'undi umwicayeyi imbere wambaye agapira k'umweru wihebye yifashe ku matama yombi, imbere yabo hari imeza nini ifite ibara rya kaki.

Itsinda ry'abantu bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi na telefone zabo afite ibara rya kaki hirya hari umugabo uhagaze wambaye ikote ry'umukara n'agapira k'umweru, inyuma hari abandi bantu bahicaye hari n'ibyapa birimo amabara y'umweru, umutuku ndetse n'icyatsi na televiziyo nini iri inyuma.

Umusaza wambaye ishati irimo ibara ry'umweru n'uturongo tw'umukara akenyeye umwitero w'umuhondo, afite icumu mu ntoki ry'igiti, rifite ibara ry'umukara ndetse na kake, yambaye ingofero kandi yasetse afite n'ibihanga.

Umugore wicaye uri kureba kuruhande wambaye agapira gafite ibara rya gisirikare n''ijipo irimo utubara nk'umutuku n'umweru, ndetse kandi yambaye agatambaro mu mutwe afite ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari igikuta gisize irangi ry'umweru rishushanyijeho ururabo kandi yicaye ku ntebe y'urubaho.

Abantu bicaye ku ntebe z'umweru, zikoze uruziga. Harimo abagabo n'abagore, hagati y'urwo muri urwo ruziga harimo abantu bari gukina ikinamico. Iyo nzu barimo ku bikuta iteye irangi ry'umweru, kandi imbere ku mpande hari ibyapa bihahagaze.

Umuntu wicaye wambaye agashati k'umutuku, agapantaro k'umutuku, n'ingofero ya gisirikare wifashe ku itama, imbere ye hari undi muntu uri kumuhumuriza wambaye agapira k'umukara n'ijipo y'umukara, yambaye amadarubindi.

Umubyeyi wambaye umupira w'umweru afite imisatsi y'umukara; yasetse, aterura akana kambaye umupira w'imbeho ufite amabara y'umweru n'umutuku; hirya hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye; n'idirishya rinini ry'ibirahure risize irangi ry'umuhondo.

Umubyeyi wambaye ishati y'igitenge yiganjemo ibara rya oranje, inyuma ye hari ama etajeri harimo ibicuruzwa bitandukanye, bigaragara ko yicaye muri botike ye yasetse kandi arishimye cyane.

Inzu ngari iteye irangi ry'umweru, ifite amadirishya y'ibirahure by'umukara wijimye, ikorotije ibyuma biteye irangi ry'umweru n'umukara, iruhande rwayo hari ibyapa biri mu ibara ry'umweru, byanditseho amagambo y'umutuku.

Abantu bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara, hari n'abandi bambaye umupira w'umweru n'uw'umuhondo, bari kwifotoza, bafite igipapuro mu ntoki. Inyuma yabo haparitse imodoka ya tagisi, hirya ku rundi ruhande hari amahema afite ibara ry'umweru.

Umubyeyi wambaye agapira karimo amabara y'umuhondo ndetse n'uturongo tw'umukara, afite isuka mu ntoki, yambaye ijakete, yikoreye igitebo kirimo imigozi y'ibijumba, inyuma ye hari inzu isakajwe amategura.

Inzu iteye irange ry'iroza, hejuru handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu avuga ngo ibitaro bya Cares, imbere yayo hari inzira yubakishije amapave, ifite ubusitani burimo ibiti bitandukanye.

Itsinda ry'abantu barimo abagore n'abagabo bicaye mu ntebe z'umutuku, umugore uri imbere wambaye agakanzu k'igitenge, ufite indangururamajwi, imbere yabo hari imeza y'umweru iteretseho agacupa k'amazi yo kunywa na mudasobwa.

Itsinda ry'abantutu bamwe bahagaze abandi bicaye, bambaye imyenda y'amabara atandukanye nk'umutuku, umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku, inyuma yabo hari icyapa kiriho ikirango cy'ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC, bari mu cyumba kirikwakwa amatara y'umuhondo.

Umugore wambaye umupira w'umweru ipantaro y'umukara n’agapfukamunwa wicaye imbere ye hari ameza manini ariho ibitabo ,kurundi ruhande hari umugore wambaye igitenge n'agapira k'umuhondo wicaye ku ntebe y'umweru ,hirya hari abandi bantu bicaye mu ihema ry'umweru hakaba n'intebe zifite amabara y’umutuku n'umuhondo.

Abana bambaye imyenda y'ishuri yiganjemo amashati y'umweru ndetse n'amajipo asa nk'ivu, bafite udushashi mu ntoki bazamuye amaboko bari guseka abona ko bishimye, bicaye mu ntebe z'imbaho, inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara.

Umugore wambaye ikote ry'ubururu bwerurutse afite urupapuro mu ntoki yasetse yegeranye n'undi wambaye ikote ry'umutuku uri kwandika ku rupapuro hirya yabo hari ameza maremare ariho igitambararo cy'ubururu ateretse ho uducupa twamazi terefone n'amakaye inyuma yabo hari intebe bari bicayeho z'umukara.

Abantu bicaye ku murongo mu ntebe zifite ibara rya kake, bambaye udupira tw'ibara ry'icyatsi, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari abagabo bambaye imipira y'imyeru, imbere hari imeza nini iriho igitambaro cy'umweru iteretseho n'imiti y'amenyo.

Inzu ndende igeretse kabiri ifite amadirishya y'ibirahure, iteye irangi hejuru ry'ubururu n'iry'umweru ahagana hasi. Urugo rwayo n'ibyuma rusize amabara y'ubururu. Ifite kandi urukuta rw'amabuye.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru afashe umwana ku rutugu ari kumwereka uko boza amenyo, uwo mwana yambaye ishati y'icyatsi inyuma yabo hari abantu bahagaze harimo umugabo wahuje ibiganza umugore ndetse n'undi muzungu wifashe ku kuboko inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara cyanditseho amagambo y'umweru.

Umugore uri kumwe n'umwana we bambaye udusengeri dufite ibara ry'umweru, bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki bagiye koza amenyo, basetse bari mu cyumba gifite ibara ry'umweru ryiganje.

Umwana wambaye agakanzu n'agapira k'umweru afite uburoso bw'amenyo arimo aroza, amenyo inyuma ye hari intebe y'ibara ry'ubururu kandi yambaye agatambaro ka oranje mu mutwe.

Abaganga babiri bicaye bari gusuzuma umurwayi indwara zo mu kanwa, umwe yambaye itaburiya y'ubururu, undi yambaye iy'umweru kandi basaba udupfukamunwa tw'icyatsi uryamye ku gatanda niwe murwayi yambaye umupira w'umukara hirya hari akabati gateretse ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi kwa muganga.

Abana bambaye imyenda y'ishuri yiganjemo ibara ry'ubururu n'umweru, bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki, abandi bari koza amenyo bafite ibikombe mu ntoki birimo amazi.

Ibiganza bibiri bifashe urudodo, umuntu wasamye afite amenyo y'umweru, izuru rinini yacishije ako kagozi hagati mu menyo ye, arimo aroza ayo menyo yambaye agapira k'umweru.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu wambaye uturindantoki, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa n'utwuma ku madarubindi ye tumufasha kureba utuntu dutoya, imbere ye haryamye umugore wasamye bari kuvura amenyo.

Icyumba gifite ibara ry'umweru n'imbere harimo imashini nayo isa umweruru ifite televiziyo yo hejuru isa umukara, hari insinga zisa umukara ziyicometseho, iruhande rw'iyo mashini hari intebe ifite ibara ry'umukara, hakuno hari akuma gahagaze kifashishwa mu kumanikaho serumu.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, wegeranye n'umwana wambaye agapira k'umweru, bose bafatishije ibiganza byabo ku kadodo, gasa umweru, ako kadodo bari kugacisha mu menyo yabo, inyuma yabo bari mu nzu irimo amabara atandukanye

Umugabo wambaye ubusa ku gice cyo hejuru, ufite isume y'ibara ry'umweru ku rutugu rwe, ibiganza bye byombi bifashe akagozi, yasamye amenyo ye ni umweru ari gucisha ako kagozi hagati mu menyo, ni uburyo bwifashishwa mu gusukura amenyo.

Abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru, udupfukamunwa harimo umwe wambaye uturindantoki, imbere yabo hari umwana wicaye ku ntebe wambaye agapira k'umukara n'agapfukamunwa k'umutuku barimo baramuvura amenyo, inyuma yabo hari icyapa kiriho umuryango, umugabo, abana babiri ndetse n'umugore.

Ibiganza bibiri byambaye uturindantoki dufite ibara ry'icyatsi cyijimye dufashe akuma kifashishwa mu buvuzi bw'amenyo hari umwana uryamye wambaye ishati m'imbere ya karokaro ariko bambitse igishura cyifashishwa mu buvuzi wasamye kandi aragaramye.

Umuntu wambaye uturindantoki ndetse n'agapfukamunwa, ari kuvura umwana uryamye ku gatanda gafite matera y'ibara ry'ubururu, afite agakoresho mu ntoki gapima uburwayi bw'amenyo, imbere ye hari imashini zitandukanye zifashishwa mu buvuzi.

Umuntu wambaye agapira karimo uturongo tw'umuhondo n'umweru yikoze ku kananwa ari guseka, ukuboko kwe kw'ibumoso afitemo ikirahure ari kwireba, afite umusatsi w'umukara muremure yicaye mu ntebe y'umweru, hirya ye hari akabati n'ubukarabiro umuntu yisukuriramo.

Umusaza wicaye wambaye ishati ya oranje ifite ibipesu by by'umweru, ikiganza cye cy'ibumoso gifashe ku bwanwa bwe kandi kirimo n'ikaramu y'umukara yambaye amadarubindi, ikiganza cye cy'iburyo gifashe igitabo gifite impapuro z'umweru.

Ababyeyi babona ko bakuze bicaye hasi bambaye amakanzu y'ibitenge afite ibara ry'umutuku w'ubururu ndetse n'umweru harimo kandi abicaye ku ntebe za parasitiki z'umweru imbere yabo hari isakoshi y'umukara hirya inyuma hari urutoki.

Abagore bari ku murongo uw'imbere yambaye ikanzu y'igitenge abandi bo hagati bakurikiyeho bambaye imipira y'umweru n'amajipo y'imikara, inyuma harimo uwambaye agapira k'ubururu n'ijipo y'umukara, bambaye bose inkweto z'umukara uretse uwambaye kamambiri z'umutuku.

Umugabo wicaye wasetse wambaye agapira karimo uturongo tw'umweru n'utw'ubururu, ari gukina ikibuguzo na mugenzi we wambaye ishati y'umweru, hagati yabo hari imeza ifite ibara rya shokora.

Umugore wicaye wambaye imyenda y'umutuku n'agakoresho kifashishwa mu gupima uko umutima utera mu ijosi kandi yambaye n'uturindantoki n'agapfukamunwa, imbere ya umukecuru wambaye ikanzu' igitengerimo ibara rya orange n'umweru yamufashe ku kaboko

Umusaza wicaye wambaye ishati ya kake, iruhande rwe hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agakoresho yambaye mu ijosi kifashishwa mu kumenya imiterere y'umutima w'umurwayi. Imbere yabo hari ameza manini asa umweru arambuyeho ibitabo n'ikaramu ari kumusobanurira.

Umugabo wambaye ishati y'bururu afite ubwanwa burimo imvi ateruye kandi ikirahure kirimo amazi, imbere ye hari umukobwa wasetse wambaye ikatabu y'ubururu n'agapira k'umweru mo imbere uri kumuha imiti iri mu gakoroboyi k'umuhondo mu kiganza, inyuma yabo hari akabati gatereretsemo indabyo z'icyatsi kibisi.

Abantu babiri bari kumwe, basetse kandi barimo bariruka amaboko yabo ari imbere, umwe yambaye agapira gafite ibara ry'ivu, undi yambaye agapira k'umweru n'agasaha ku kuboko bari mu myitozo ngororamubiri.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu n'agakabutura k'umukara ari kugenda hagati mu byuma bimufasha kumenyera kugenda ku rutugu rwe afashwe n'umuforomo wambaye imyenda y'umukara uri kumwereka uko abigenza.

Umusaza wicaye wifashe ku gahanga yambaye ishati ya kake, imbere ye hari ameza manini hariho ibikoresho bitandukanye nka nk'ikayi, ikaramu ndetse n'akabeba gakoreshwa kuri mudasobwa.

Umugabo ubyibushye wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa wicaye ku ntebe ya purasitike ifite ibara rya kake, imbere ye hari umugore wambaye ishati y'icyatsi afite imisatsi yazingiye hejuru ari kumufungira ibipesu, hirya yabo hari igiti kiri mu busitani.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu wicaranye n'umukecuru wambaye agapira k'umweru ufashe urupapuro mu ntoki, umusaza akoze ku kuboko kwe kw'ibumoso. Imbere yabo hari ameza manini afite ibara rya kacye, inyuma yabo hari intebe.

Abakecuru babiri umwe yambaye agapira k'umukara ndetse na bandanana ku kuboko, undi yambaye agapira k'ubururu ndetse n'akantu k'umuhondo mu gatuza, bose bari mu myitozo ngororamubiri bari guseka amaboko yabo amwe ari imbere yabo ayandi ari inyuma yabo.

Abakecuru bambaye imipira y'imituku n'imyitero y'umweru, bafite n'udukoni bari kugenderaho, hirya hari umwana wambaye agapira k'umweru n'agakabutura, ndetse n'abandi bantu bari inyuma bari kugenda hamwe mu nzira, hakuno hari urutoki n'inzu.

Umusaza wambaye ishati y'umweru n'ipantaro ya kacye, arahagaze ariko ari kugendera mu kuma kifashishwa mu gutoza umuntu kugenda neza. Ari kumwe n'umuforomo, uri kumufasha wambaye ishati y'ubururu. Hirya yabo hari akabati karimo indabyo n'udukoresho dutandukanye.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu, yarambuye akaboko ke k'iburyo, afite kandi agakoresho kifashishwa mu myitozo ngororamubiri gafite ibara ry'ubururu. Inyuma ye hari undi muntu wambaye itaburiya y'umweru n'agakoresho kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima mu ijosi. Ari kumufasha, amwerekera uko bakora siporo.

Umusaza wambaye agapira k'umweru, agakabutura k'umukara, yambaye ekuteri mu matwi, ari guseka, yambaye n'amadarubindi, kandi afite imvi, yarambuye amaboko ku mpande zombi, hose afitemo utwuma dufite ibara ry'umutuku twifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Umukecuru wambaye ishati y'umweru ufite imvi, inyuma ye hari umukobwa wasetse wambaye ishati y'icyatsi irimo uturongo tw'umweru ku ijosi no ku kaboko, inyuma yabo bari muzu irimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe, ameza, iteye irangi ry'umweru ifite n'amadirishya.

Umusaza wicaye wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro ya kake washyize inkokora ku kaguru ke k'iburyo ari guseka yambaye amadarubindi, iruhande rwe hari umubyeyi wambaye umupira wa move n'agapira k'umweru imbere y'abo hari ameza barimo barakina. umukino

Umugabo wambaye ishati yakarokaro afite agacupa k'umukara mu ntoki arimo arasoma. Yegeranye n'umugore wambaye ishati y'ubururu uri kumureba kandi ari gukora no kuri mudasobwa iri imbere ye. Imbere yabo hari ameza manini ariho impapuro n'utundi ducupa tw'imiti itandukanye, inyuma yabo hari utubati duteretsemo ibikoresho nk'ibikombe n'amasahani.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo, ipantaro y'umukara, yafatishije amaboko yombi ku mugozi w'umuhondo, ufashwe n'umuntu uri imbere ye, wambaye agapira k'umweru. Uwo mugabo yicaye ku gatanda k'umweru, inyuma ye hari akabati karimo ibitabo n'indabyo.

Umugabo wambaye taburiya y'ubururu yambaye kandi akumaka ifashishwa mu gupima uko umutima utera mu ijosi, yegeranye n'umubyeyi wambaye agapira k'umweru n'agashani mu ijosi kandi afashe inkoni mu ntoki bicaye mu ntebe z'imifarisoko.

Umugore wicaye wambaye itaburiya y'umweru n'akuma kifashishwa mu gupima uko umutima utera mu ijosi, ari kwambika akuma kifashwa kumenya umuvuduko w'amaraso umusaza wicaye wambaye ishati ya kake, afite ubwanwa bw'imvi, imbere yabo hari imeza nini iteretseho ako gakoresho gafite ibara ry'umweru.

Umukecuru wambaye agapira karimo amabara y'umuhondo n'uturongo tw'umukara, afite imvi, yambaye amadorubindi, yafatanye mu kiganza n'umugore wamusekeye, umwegereye, wambaye ishati y'ubururu, kandi afite n'agakoresho kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima mu ijosi rye; begereye indabyo.

Umukecuru wicaye mu kagare k'abamugaye, wambaye ishati irimo amabara atandukanye ndetse n'agakabutura, imbere ye hari umuganga wambaye imyenda y'ubururu ndetse ufite agakoresho kifashishwa mu kumenya uko umutima utera, ari kwambika uwo mubyeyi agakoresho kifashishwa mu kumenya umuvuduko w'amaraso, bicaye ku ntebe ifite ibara ry'ikigina, igikuta kiri hirya yabo gifite ibara ry'umweru.

Umubyeyi wicaye wambaye umupira wa orange, igitambaro kutwe n'amadarubindi, yifashe mu gatuza afashe ibiganza by'mukobwa umuri inyuma wambaye itaburiya yubururu n'akuma kifashishwa mu gupima uko umutima utera, uwo mubyeyi yicaye mu kagare k'abamugaye.

Umusaza uryamye wambaye agapira k'umweru wambaye agakoresho ko ku kaboko kifashishwa mu kumenya imigendere y'amaraso mu mubiri. Iruhande rwe hari icyuma kiri gupima uko ubuzima bwe buhagaze, ku rundi ruhande hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru , ufite n'agakoresho ko kwa muganga kifashishwa mu kumenya imiterere y'umutima.

Umusaza wambaye ishati y'umweru witeye umwitero yambaye ingofero yumukara yegeranye n'umukecuru wambaye agapira k'uburu na witeye umwitero inyuma yabo hari abandi bantu ubona ko higanjemo ababyeyi ndetse n'urubyiruko.

Abagabo babiri bari kugenda mu nzira yubakishije amatafari, umwe yambaye agapira k'ubururu n'undi yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, umwe yambaye ingofero, bose bafatanye ku ntugu, bari kurebana mu maso. Iruhande rwabo hari ubusitani, hateye n'ibiti ahagana ku nzira.

Umugabo wambaye agapira k'umukara wateze ikiganza ngo bamusukire umuti wo kunywa, imbere ye hari imeza ifite ibara ry'umweru hejuru iteretseho mudasobwa, ndetse n'igikombe cy'amazi n'utundi tuntu dufite amabara atandukanye. Hirya ye hari umuntu umuhagaze iruhande wambaye agakabutura k'umukara n'agapira k'umweru, uri kumusukira imiti.

Umusaza wambaye umupira w'umukara n'amadarubindi wicaye mu kagare k'amapine k'abantu bamugaye, inyuma ye hari umugore wasetse wambaye agapira k'ubururu uri kumusunika muri ako kagare, ahagaze ahantu hari ikibuga kirimo ibyatsi.

Umusaza, wicaye wambaye umupira w'ubururu, iruhande rwe hari undi mugore wambaye itaburiya y'ubururu, umusaza yazamuye amaboko barimwambika akagozi k'umuhondo, inyuma yabo hari undi muntu wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro yikoboyi.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu, afite imvi yegeranya n'umukecuru wambaye umupira w'umutuku na we ufite imvi, bafite imiti mu ntoki bari kunywa, imbere yabo hari ameza manini ateretseho igikombe cy'amazi ndetse n'uducupa tw'imiti, hiryari utubati duteguye mu nzu, nk'amafoto inyuma yabo hari amarido yumweru.

Umusaza wambaye agapira k'umweru, ikabutura y'ubururu ndetse n'umukandara w'umweru mu nda afashe ku byuma bibiri, inyuma ye hari umugore wambaye imyenda y'ubururu uri kumufasha kugenda.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu ndetse n'umugore wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'ubururu, bose bari gufata umusaza wari wicaye ku gitanda cy'umweru amaboko bamuhagurutsa, uwo musaza yambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umusaza wambaye umupi w'ubururu n'ipantaro ya kake, wicaranye n'umuganga wambaye tabuririya yu'bururu n'akuma kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima ku ijosi, ari kwambika uwo musaza ku kaboko akuma akuma kifashishwa mu kumenya uko amaraso agenda mu mubiri hirya yabo hari itara riri kwaka n'irido ry'umweru.

Ababyeyi bicaye hamwe bambaye amakanzu y'ibitenge afite ibara nk'umutuku, umweru ndetse n'umuhondo, imbere yabo hari amabase y'inyanya, inyuma yabo hari ibirundo by'imbuto z'amaronji, bari kuganira, ubona ko baba baturutse mu mpande zitandukanye baje mu isoko.

Umusaza wicaye wambaye ishati y'umutuku n'amadarubindi afite ikanya n'icyuma mu ntoki ari kurya, yegeranye n'umukecuru wambaye ishati y'ubururu na we ufite ikanya n'icyuma, imbere yabo hari ameza asa umweru ateretseho amasahani y'umweru ndetse n'ikirahure cy'amazi.

Umusore wambaye agapira k'umutuku afashe isahani iriho umugati n'ibindi hagati hari umukecuru wambaye agapira k'umukara ndetse n'agakote ka kaki hakuno hari undi mukobwa wambaye agashati k'umweru afite ibimamiyo ari guterura ibiryo.

Itsinda ry'abantu bicaye ahantu mu byatsi ku ntebe z'umukara, iz'umutuku n'iz'ubururu. Hari n'abicaye hasi barimo baraboha igitebo harimo abana, abagabo ndetse n'abamama bakuze.

Umubyeyi wambaye umupira w'umweru, yicaranye n'umwana wambaye agapira k'umweru. Mbere yaho hari ameza manini ariho utuntu tw'umweru barimo barakinisha. Inzu barimo iteye irangi ry'umweru muri parafu.

Itsinda rya'bagore bakuze bambaye imyenda y'imyeru, oranje, umutuku n'umukara bari gukora imyitozo ngororamubiri, bafashe utwuma duterurwa dufite ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku.

Akuma kifashishwa kwa muganga bapima uko umutima utera gafite ibara ry'icyatsi, imbere yako hari impapuro ziryamye hasi ziririmo ibara ry'umweru na kake, iziri hejuru zanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'umukara, hirya yazo hari ikaramu isa umukara ndetse n'ipompo yifashishwa mu gutera urushinge umurwayi.

Itsinda ry'abantu bifotoza, bamwe bicaye abandi bahagaze, inyuma yabo bafite amafoto mu biganza byabo, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru, ateretseho udukoresho dutandukanye, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru. hariho utumenyetso turi mu ibara ry'umutuku.

Umugabo n'umugore bahagaze bafite ibyapa mu ntoki, inyuma yaho hari intebe z'umweru, iruhande rwabo hari imeza iteretseho uducupa turimo amazi yo kunywa n'impapuro, inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditseho amagambo manini ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'ibirango bitandukanye.

Abantu babiri bahagaze bambaye amashati y'imikara, undi yambaye ikoboyi y'ubururu, undi yambaye ipantaro y'umukara, iruhande rwabo hari intebe nini, iri mu ibara ry'umukara, bafite icyapa mu ntoki, inyuma yabo hari amabendera, harimo irya repubulika y'Urwanda.

Abantu bari ku kumurongo bahagaze bambaye imyenda y’imyeru, amakanzu n’ibindi. Abandi bifashe mu biganza harimo na daso, inyuma yabo hari icyapa kinini cy’ubururu cyanditseho amagambo ari mu ibara ry’umweru. Hirya yabo gato hari inzu ishakaje amabati asanzwe. Imbere yabo hari ubusitani.

Abantu bambaye imyenda ya oranje, harimo n' numugabo wambaye umupira w'umweru n' umugore wambaye ikanzu yi'igitenge, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru ateretseho udukarito, hirya hari abantu bafite amashashi mu ntoki y'umweru, inyuma yaho hariho icyapa kinini kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu.

Umugore wasetse wisukishije ufite amaherena yambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, imbere ye hari ibara rinini ririmo irya oranje, hepfo hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara.

Abantu bicaye hamwe mu ntebe z'umutuku, bambaye imyenda ifite amabara nk'umweru n'umukara, imbere yabo hari abandi bantu bicaye ku murongo, mu ntebe z'umweru, bambaye amakoti y'umukara, kandi inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, handitsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abaganga bambaye imyenda y'ubururu barimo barabaga umurwayi uryamye ku gitanda. Bamwe bambaye udupfukamunwa n'ingofero, iruhande rw'abo hari icyuma kiri kugaragaza uko ubuzima bw'umurwayi uri kubagwa buhagaze.

Uruhurirane rw'imboga zitandukanye zirimo imiteja, ibishyimbo, amashu, karoti, pavuro ndetse n'inyanya. Hirya hari amagambo ari mu ibara ry'umutuku yanditseho ngo indyo yuzuye ni ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abagore bane bambaye imyenda ifite amabara atandukanye bateruye abana mu biganza, barishimye bari guseka baje gukingiza abana, inyuma yabo hari igikuta giteye irange ry'umuhondo kiriho amafoto atandukanye.

Istinda ry' abantu barimo abagabo n'abagore, bamwe baricaye abandi barahagaze bari kwifotoza, kuruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso hari ibyapa byiganjemo amabara y'ubururu n'umweru n'amagambo yanditse ari mu ibara ry'umutuku, inyuma hari igikuta cy'inzu barimo gisize irangi ry'umweru.

Abagabo ndetse n'abagore bahagaze bafite udukingirizo mu ntoki, bahagaze mu cyapa cyanditseho ngo kwirinda biruta kwivuza, icyo cyapa gishushanyijeho udukingirizo, inyuma yabo hari ibitambaro by'ibara ry'umuhondo.

Umugore wambaye isengeri y'ubururu, ishati y'igitenge n'agapfukamunwa ari kureba imbere, inyuma ye hahagaze undi muntu wambaye itaburiya y'ubururu, agapfukamunwa n'undi uri ku ruhande rwe rw'ibumoso, inyuma ye hari igikuta kimanitseho impapuro, hepfo hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara y'umweru.

Umuntu w’igishushanyo wambaye itaburiya y'umweru imbere ye hari umuntu wicaye wambaye agapira k'ubururu n’ipantaro y'umuhondo ari kumutera urushinge ku kaboko ,hirya ye hari amagambo ari mu mabara atandukanye nk'umweru ndetse n'umuhondo ,hasi hari igishushanyo cy'abantu bahuje ibiganza ,hepfo hari ibirango bitandukanye nk'ikiranga Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirango cya r,b na c bihagarariye ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara uhagaze imbere ku gatoti, gafite ibara ry'umweru n'umutuku na oranje, iruhande rwe hari insakazamajwi ndetse n'intebe z'umukara na ekara nini iri kumugaragaza mu buryo bugari.

Ikirango cya Repubulika y'u Rwanda kirimo ingabo, agaseke, ishaka ndetse n'igiti cy'ikawa, munsi y'agaseke hari uruziga n'ipfundo, kandi handitseho amagambo avuga repubulika y'u Rwanda minisiteri y'ubuzima.

Itsinda rigari ry'abantu bambaye imipira y'umweru, abenshi muri bo ni abagore. Bicaye ku ntebe za palasitike z'umweru bari mu nzu nini cyane, yubakishije amatafari ndetse ishakaje igisenge gifite ibyuma. Imbere yabo hari umugore wambaye agashati k'umukara n'ikabutura y'umweru uri kubasobanurira.

Inyubako iteye irangi ry'umweru ifite amadirishya asa umukara, isakaje amabati y'umutuku ndetse ifite imirako y'umukara, imbere yayo hari ubusitani burimo indabyo n'ibyatsi bisanzwe, kandi hari n'urukuta rwubakishije amabuye n'inzira y'amapave.

Icyumba gisize irange ry'amabara atandukanye nk'umuhondo, ubururu ndetse n'umweru, harimo kandi ibikoresho bitandukanye nk'utumatera two hasi two gukoreraho siporo, ibyuma byo kwirukaho ndetse n'ibipurizo binini.

Itsinda ry'abantu bambaye amataburiya y'umweru imbere yabo hari ameza ariho umuti usukura intoki, ndetse n'amakayi, imbere kandi hari umuntu wambaye ishati y'umweru bari kwambika akuma kifashwa kumenya umuvuduko w'amaraso, bari mu itenti y'umweru.

Itsinda ririmo abagabo n'abagore, abazungu n'abirabura, bifotoje bahagaze ku murongo, inyuma yabo hari inzu nini iteye irangi ry'umuhondo, n'irindi risa nk'ivu, ryanditsemo amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kijimye, agira ati "ibitaro bya Rwamagana", imbere yabo hari indabyo.

Inyubako ngari, igeretse rimwe, iteye irange ry'umweru, ifite kandi irange ry'umuhondo hagati ndetse n'utubara tw'ubururu. Imbere mu mbuga yayo, hari amapave kandi hari n'ubusitani.

Inzu ifite irangi ry'umuhondo, ifite umureko, amadirishya n'urugi bifite ibara ry'icyatsi, imbere yayo hari umu umugabo wambaye itaburiya y’umweru n'ikoboyi y'ubururu, ahagaze muri koridoro ishakaje amabati, arimo aragenda, imbere yayo hari sima ifite ibara ry'umutuku.

Inzu ngari iteye irangi ry'umuhondo n'iry'umukara isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo hari ubusitani ndetse hashinzemo idarapo ya repubulika y'u Rwanda. Mu mbuga yayo yubakishije amapave haparitse imodoka iririmo ibara ry'umutuku n'ipikipiki.

Inyubako yubakishije ibirahure mu imbere harimo amafoto atandukanye, harimo ay'abagore bambaye amadarubindi n'ayabagabo bambaye amadarubindi, hagati harimo amabara atandukanye nk'ubururu, umweru ndetse n'umutuku.

Icyumba giteye irangi ry'umweru kirimo intebe zifite ibara rya kake imifariso irasa nk'ivu, hagati hari imeza ifite ibara ry'umweru n'umukara, hakuno hari amavaze arimo indabo z'ubwoko butandukanye zifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umutuku.

Inzu ndende yubakishije amatafari ya munyu iteye irangi ry'umweru ifite amabati y'ubururu, imbere yayo hari indabyo zihateye ndetse n'inzira y'amapave, hirya hari ihema ry'umweru.

Itsinda ry'abantu batandukanye harimo abasutamye bambaye imyenda y'ubururu yiganje, n'abahagaze inyuma bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, harimo umutuku, umukara n'umweru, inyuma yabo hari inzu ngari ishakaje amabati y'ubururu kandi yubakishije amatafari ahiye, iteye irangi ry'umuhondo ikaba yanditseho ngo inzu y'ababyeyi.

Inzu ngari yubakishije amatafari ahiye, ifite amadirishya y'ibirahure byijimye. Imbere yayo hari agasima gashakaje amabati ndetse n'ubusitani buteyemo ibiti bitandukanye.

Inzu ngari iteye irangi ry'umweru ifite amadirishya y'ibirahure manini imbere hari akabaraza gaparitsemo imodoka hejuru ishakaje amabati y'umukara imbere yayo hari ubusitani bunini burimo indabyo zitandukanye ndetse n'umuhanda wa umukara n'amapave.

Icyumba kirekire gifite umuzangano w'ibara ry'umweru kirimo ibitanda biri ku murongo bisa umweru hejuru yabyo hari inzitiramibu, ku mpande hariho amarido atandukanya ibyo bitanda afite ibara ry'ubururu hakuno hari ubukarabiro.

Icyapa kiriho amagambo yanditse mu mabara atandukanye kiri mu busitani cyegereye inzu iri kwaka amatara ari mu ibara ry'umuhondo, hirya hari izindi nzu zisize irangi ry'umweru, izo nzu zizengurutse igiti kinini cy'inganzamarumbo.

Umugabo wambaye itaburara y'umweru agapfukamunwa k'umutuku wakoreshejeje akaboko k'iburyo kuri televiziyo ifashe ku mashini iri imbere yabo, hirya hari undi mugore wambaye agapira k'umweru n'agapfukamunwa k'umweru n'abandi bantu batandukanye.

Umugabo wambaye agashati ka karokaro n'ipantaro ya kake aryamye ku gitanda gifite matera y'ubururu, hirya ye hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru wunamye iri kumwitaho, aryamye mu ihema kandi harimo ibitanda byinshi bisa nabyo biryamyeho abarwaye.

Itsinda ry'abantu ririmo abambaye amashati y'umweru, icyatsi, umukara n'umuhondo. Hakurya hari ihema rifite ibara ry'umweru n'inzu iteye irangi ry'umutuku, umuhondo ishushanyijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abantu bicaye mu itsinda imbere yabo ameza ateretseho uducupa t tw'amazi yo kunywa ndetse na mudasobwa, hagati yabo hari umuntu ufite kamera uri gufata amashusho, imbere hari abandi bane harimo abagabo batatu n'umugore umwe bambaye imyenda y'imukara nabo imbere yabo hari ameza manini y'igitambaro cy'icyatsi inyuma ku gikuta hari icyapa kinini gifite ibara ry'umutuku.

Icyumba giteye amabara atandukanye, nk'umuhondo, umweru, ndetse n'ubururu. Kandi kirimo intebe ndetse n'igitanda kiryamwaho n'umurwayi, n'imashini iri hejuru y'igitanda, yifashishwa mu gutanga urumuri, mu gihe barimo barabaga umurwayi.

Umugabo wambaye taburiya y'umweru, afashe ku rutugu rw'umwana wambaye ishati y'icyatsi, ari kureka kuko boza amenyo. Inyuma yabo hahagaze umusore wambaye ikote, wahuje ibiganza ndetse n'umuzungu wifashe mu nkokora ku kuboko kw'iburyo.

Imashini nini ifite ibara ry'umweru, uruhande rumwe rurarambuye ruriho matera, urundi ruhande n’uruziga rurimo umwenge hagati, hariho icyuma kibamurikira k’uruhande, n’igikuta gifite irangi ry'ubururu bwijimye n’ubwerurutse, hamanitseho isaha.

Icyumba kirimo intebe z'umukara imbere yazo hari ameza afite ibara ry'umweru ndetse n'irya shokora, hakurya hari utubati turimo amadarubindi atandukanye, hejuru hari amafoto agaragaza abantu bambaye amadarubindi.

Icyumba giteye irangi ry'umweru, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo abantu barimo kureba ku matereviziyo ari imbere ku bikuta. Harimo icyuma kiri hejuru cyifashishwa mu gutanga urumuri mu gihe bari kuvura umurwayi aryamye ku gitanda.

Inzu iteye irangi ry'umweru yanditseho amagambo y'umukara, ifite amadirishya asa umukara. Mu nguni zayo hari kwaka udutara tw'icyatsi kibisi. Iri mu gihangari gisakaje amabati kiri kwakamo amatara y'umweru ndetse ku mpande zayo hari utwuma tw'umukara tuyifashe.

Umuntu wambaye ishati y'ubururu, ingofero y'umweru n'uturindantoki tw'umweru, afashe akaboko k'umwana w'uruhinja ukivuka uri mu cyuma, hirya ye hari ibindi byuma byifashishwa mu kumenya neza ubuzima bw'abana.

Icyumba kirimo irangi ry'umweru kirimo kandi ibitanda biri ku murongo biryamyeho abarwayi. Haruguru y'ibitanda hari igikuta gisize irangi rya oranje gicometseho insinga, hakuno hari umwanya wagenewe igikoni.

Inzu iteye irange ry'umukara ndetse n'irya oranje, imbere yayo hateretse intebe z'umutuku ndetse n'ibyapa biri mu mabara y'umweru, kandi imbere yayo hari imbuga nziza ishashe neza n'ubusitani buteyemo ibiti bitandukanye.

Inzu ngari ifite icyumba cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bitandukanye, harimo nk'ikibuga cyifashishwa mu mukino w'amaguru, ibikoresho byifashishwa babiterura ndetse n'ibyo bakoresha biruka mu myitozo ngororamubiri.

Icyumba kigari gifite umpuzankano y'ibara ry'umweru hejuru hari amatara yaka ibara ry'umweru ndetse n'ibyuma bitanga urumuri harimo imashini zitandukanye ndetse n'igitanda cy'umukara cyifashishwa mu kuryamishaho umurwayi mu gihe ari kuvurwa hakuno hari utubati tubikwamo imiti ndetse n'impapuro zanditsweho amazina y'abarwayi.

Inzu yubakishije amatafari ahiye kandi iciyemo uturongontu turi mu ibara ry'umweru isakaje amabati y'ubururu imbere yayo hari ubusitani burimo n'indabyo hirya yayo hari indi inzu nayo yubakishije amatafari ahiye ifite amabati y'umutuku ndetse n'urupangu ruri kuruhande rwo hirya hakuno hari robine iri mu busitani y'amazi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara, wicaye ku rukuta rw'amabuye ruri munsi y'igiti kinini cy'inganzamarumbo, iruhande rwe hari indabyo ziteye mu buryo bukurikiranye ku murongo.

Umubyeyi wicaye uteruye umwana wambaye imyenda y'imyeru. Imbere ye hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa n'amadarubindi, agiye kumufasha guterura umwana. Bari guseka inyuma yabo bicaye ku buriri.

Ikigo cy'amashuri y'abana b'incuke kirimo amazu yubakishije amatafari ahiye ashakaje ibisenge bifite amabati y'icyatsi kibisi. Harimo inzira z'amapave n'ubusitani burimo ibiti bitandukanye. Hagati mu busitani harimo kandi ibikinisho by'abana.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu, ipantaro y'umukara uri kuzinga inzitiramibu, iri ku gitanda gifite ibara ry'umweru kiryamweho n'umurwayi, hirya yaho hari ibindi bitanda na byo bifite amabara asa, inzu barimo iteye irangi ry'umweru ikaba ifite n'amadirishya y'umukara.

Inzira ebyiri zubakijije amapave zerekeza ku nzu nini yubakishije amabuye. Izo nzira zirimo abantu bari kuzigendamo, zikikijwe n'ubusitani burimo ibiti nka voka, umunyinya ndetse n'imikindo.

Abantu bahagaze mu ibaraza ry'inzu. Umwe yambaye ishati y'umweru undi yambaye ishati y'igitenge harimo umugore wambaye agapira k'umutuku. Iyo nzu yubakishije amatafari ya mpunyu ahiye. Iteye irangi ry'umuhondo, ifite inzugi ziteye irangi ry'umukara.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, igotesheje urugo rw'ibyuma, ifite amadirishya y'ibirahure, hejuru hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru, cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, ku ruhande hari ibiti bihateye.

Icyumba kigari kirimo intebe zifite ibara ry'ivu n'ameza ari imbere yazo zifite ibara ry'ikigina kandi hariho insakazamajwi icyo cyumba giteye irangi ry'umuhondo kukuta imbere ku kabuga hari ameza manini iri mu ibara ry'umweru.

Umubyeyi wambaye ishati y'umutuku hirya ye hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara, wakoze umurwayi wambaye ikanzu y'igitenge aryamye ku gitanda inzu arimo iteye irangi ry'umweru.

Abantu bambaye amashati y'umweru, amapantaro y'umukara n'ay'ubururu bafite udutebo mu ntoki, bari kwerekeza ku nzu iri imbere yabo ifite akabaraza gashakaje ibirahure kandi ifite amabara y'umuhondo n'ay'ubururu, hejuru yaho handitseho ngo KFH Rwanda.

Abantu bambaye imyenda y'ubururu, uturindantoki tw'umweru, bagiye kubaga umurwayi uryamye ku gitanda cy'umweru, hejuru y'aho hari icyuma gifasha muganga mu kureba ingingo zitagaragara neza.

Icyumba gisize irange ry'umweru n'ubururu kirimo ibitanda bifite amashuka y'umweru n'ubururu bitandukanye, hagati yabyo haciyemo amarido afite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, kandi hagati y'ibyo bitanda harimo utubati duteretseho ibikoresho bitandukanye.

Umugore wambaye imyenda y'imyeru ari gufasha umukecuru wicaye mu kagare k'abamugaye. Hirya yaho hari abandi bantu bambaye imyenda y'imyeru bicaye ku ntebe z'umukara. Hagati ya bo hari ameza ariho igitambaro cy'ubururu ateretseho amazi yo kunywa. Hirya hari abandi bantu bambaye imyenda y'ubururu. Bari mu nzu nini iteye irangi ry'umweru.

Inzu yubakishije amatafari ya munyu ahiye iteye irange ry'umuhondo ku nzugi, ku bikuta ndetse no ku mureko wayo, imbere yayo muri koridoro hari intebe z'imbaho kandi hari n'umugabo wambaye ishati ijya gusa umweru n'ipantaro y'umukara uri kugenda aho imbere.

Icyumba gifite impuzankano y'ibara ry'umweru gifite amadirishya y'ibirahure ajya gusa umukara harimo abantu batandukanye bambaye amataburiya y'imyeru, bamwe bicaye ku ntebe abandi bahagaze ubona ko hari n'abandi barimo baragenda. Imbere yabo hari ameza, harimo utubati byose bisa umweru.

Icyapa kinini gishinze ku muhanda, kiri mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, umukara n'ayandi y'umweru ariko mu ibara ry'ubururu. Cyegereye igipangu gisize ibara ry'ivu, hirya hari inzira y'amapave n'ibiti.

Umuntu uhagaze wambaye itaburiya y'umweru, imbere ye hari icyuma kinini ari gukoresha ndetse hari n'ubukarabiro, hirya hari imeza iteretseho mudasobwa imbere yayo hari intebe y'umukara.

Umuntu uhagaze wambaye agapira k'ubururu n'umwica iruhani na we yambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara. Imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro, bicaye ku ntebe zifite ibara rya kacye; bahagaze mu nzu iteye irangi ry'umweru yanditseho ngo: "inzu y'ababyeyi".

Icyumba kiganjemo ibara ry'umweru harimo ibikoresho bitandukanye nka televiziyo, mudasobwa intebe ibitanda n'ibindi byifashishwa mu buvuzi ndetse n'insinga z'amashanyarazi, hejuru mu idari harimo amatara yaka ibara ry'umweru.

Icyumba giteye irange ry'umweru harimo uburiri bw'umweru, hejuru yabwo hari ifoto imanitsemo irimo imbuto zitandukanye, hasi ku rundi ruhande hari imashini ifite ibara ry'umweru iriho amateleviziyo, imashini yifashishwa mu kumenya uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Icyumba giteye irangi ry'umweru ku rukuta rw'ibumoso, urukuta rw'iburyo ruteye irangi ry'ubururu bwijimye, harimo ibikoresho bitandukanye nk'igitanda kiryamwaho n'umurwayi gifite ibara ry'umweru, hejuru yacyo hari itara ryifashishwa mu kumurika mu gihe bari kuvura umurwayi.

Inzu ifite koridoro ndende iteyemo irangi ry'umweru dede harimo ibitanda bitondetse ku murongo, bifite amashuka ya kake ndetse n'umweru bigiye bimanitse hejuru yabyo inzitiramibu, ku mpande hari abandi bantu bicaye bambaye amataburiya y'ubururu.

Umuntu wambaye imyenda y'ubururu uri gutambuka ajya imbere muri koridoro iteye irangi ry'umweru irimo n'abandi bantu bari kunyuranamo. Ku mpande hari utubati twifashishwa mu kubikwamo imiti ndetse n'ingarani inagwamo imyanda kwa muganga.

Inzu ngari yitegeye, yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati afite ibara ry'umuhondo n'ibyuma by'umukara, ifite amadirishya y'umukara, ahantu iri ni ku muhanda hari amatara yo ku muhanda, ndetse ituriye n'ishyamba.

Aba bakobwa bari kumurongo bambaye imyenda y'ubururu dupfukamunwa tw'ubururu bazamuye ibipfunsi byabo by'akaboko k'iburyo, inyuma yabo hari igikuta kinini giteye irangiho ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'akuma kifashishwa gupima uko umutima utera, yicaranye n'umubyeyi wambaye ikanzu y'igitenge irimo amabara y'ubururu n'umuhondo, barimo baraganira, inyuma yabo hari inzu yubakisheje amatafari ya rukarakara ndetse n'urutoki.

Inyubako isize irangi ry'umweru ifite ibirahure binini byijimye hejuru hari icyapa cyanditseho ngo :ubuvuzi bw'amaso imbere hari umuryango ufite ibara ry'ikigina imbere y'umuryango hari inzira yubakishijwe amapave.

Inzu zisize irangi ry'umweru n'amadirishya y'umukara zisakaje amabati y'umutuku. Imbere yazo hari ubusitani n'indabyo, inzira izerekezaho yubakishije amapave. Ku ruhande rw'inyuma hari urukuta rwubakishije amabuye.

Inzu ndende igeretse gatatu, ifite irangi ry'umuhondo ndetse n'amadirishya ateye irangi ry'umweru, hasi hari ibiti by'ubwoko butandukanye nk'imikindo kandi haparitse imodoka zitandukanye, harimo izifite ibara ry'umweru n'umukara.

Inzu iteye irangi ry'umweru, hejuru ifite ibirahure bikikije amabaraza, hasi hari intebe ziteye z'ibara ry'ubururu n'umweru, hagati hari utumeza dufite ibara rya kake, ku ruhande hari ibishushanyo biri mu mabara atandukanye.

Umugore wambaye ishati y'ubururu, n'agapira k'umweru imbere n'amarinete, imbere ye hari undi mugore wambaye ishati y'umweru ateruye umwana mu ngobyi, inyuma yabo hari akabati gafite imiryango ibiri gasize ibara ry'umweru, hirya hari idirishya rifite irado ryyumweru.

Icyuma cy'ubururu kirimo icyo hagati gifite ibara ry'icyatsi hariho utwuma two kwicungaho giteye hagati mu busitani kandi inyuma yacyo hari urukuta rw'amabuye ndetse rwubakishije n'amatafari ahiye.

Umugabo wambaye umupi w'ubururu n'ipantaro y'umukara n'agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, afite umukoropesho mu ntoki arimo arakoropa mu cyumba cy'abarwayi kirimo ibitanda bitandukanye biryamyeho abarwayi barwaye indwara zitandukanye, hagati y'ibitanda harimo amarido manini atandukanya ibyo bitanda.

Inyubako iteye irangi ry'yumweru ahagana hejuru, hagati iteye irijya gusa umuhondo. Imbere yayo mu mbuga, haparitse imodoka ifite irangi ry'umukara. Iyo nzu kandi ifite igipangu cyubakishije inkingi z'amatafari n'ibyuma hagati y'inkingi.

Icyumba giteye irangi ry'umweru ahagana hejuru hari amateleviziyo, hasi hari ibitanda bitandukanye bifite matera z'ibara ry'ubururu, ku rundi ruhande hari ibyumba bigabanyijemo ibirahure.

Inyubako iteye irangi ry'umweru ifite amagambo yanditseho imbere yayo avuga ngo inzu y'ababyeyi, isakaje amabati y'ubururu mu mbuga yayo hari ibyatsi naho hirya yayo hateye ibiti by'inturusu.

Abantu bicaye bambaye amataburiya y'umweru umwe arimo araseka, bambaye kandi uturindantoki, imbere yabo hari ibikoresho bitandukanye nk'icupa ririmo amavuta y'ubuto, ibirahure birimo ibisukika ndetse n'akabati k'umweru karerekare karimo ibindi bintu bitandukanye.

Inzu ngari ishakaje amabati y'umutuku iteye irange ry'umuhondo n'iry'umweru ifite amadirishya manini y'ibirahure, ahagana hasi haparitse amamodoka atatu, hari umugore uri kugenda uhasanga mu muhanda wa kaburimbo, hari icyapa cy'umweru n'ibendera rya repubulika y'u Rwanda.

Inzu ngari igeretse rimwe iteye irangi ry'umweru, ku mabaraza hakikijwe ibyuma biteye irangi ry'mweru, imbere hagati hari inkingi ziteye irangi ry'umutuku handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara avuga ngo ikigo nderabuzima cya Kinyinya, imbere yayo hari ubusitani ndetse n'inzira ishashemo utubuye kandi hashinze n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Inzu nini iteye irangi ry'umuhondo ifite ibaraza imbere, harimo inzugi riteye irangi rya kake, hahagaze umugabo wambaye itabuririya y’umweru, imbere hari inzira yubakishije amapave n’ubusitani.

Umuntu uhagaze wambaye imyenda y'imyeru imbere ye hari imashini zifashishwa mu kumesa zifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru , inyuma ye hari ameza manini asa umweru n'uturongo tw'umutuku dutambitse . Ndetse n'intebe z'umukara hirya hari akabati k'ibirahure.

Inzu yubakishije amatafari ya rukarakara ifite inkingi ndetse n'umuzenguruko wo hejuru biteye irangi ry'umweru. Ibaraza ryayo ryubakishije amakaro, imbere yayo hari ubusitani, ndetse ku mpera zabwo hari indabyo, yegeranye n'indi nzu nayo yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati yo...

Abantu bicaye hasi ku gasima harimo ababyeyi bambaye ibitenge, n'abandi bagabo harimo n'uhagaze wambaye ingofero, imbere yabo hari igikuta cy'amabuye, hakurya hari inzu nziza zisize irangi ry'umweru zisakaje amabati ateye irangi ry'umutuku.

Itsinda ry'abantu ririmo umugore wambaye igitenge cy'amabara y'umuhondo n'undi wambaye igitenge wifashe mu mayunguyungu imbere yabo hari imodoka y'umukara iparitse, aho bahagaze hubakishije amapave hirya hari inzu yubakashijije amatafari ahiye irimo abantu b'ingeri zitandukanye.

Abaforomo bane bahagaze bareba imbere, bambaye udupfukamunwa tw'ubururu n'imyenda y'ubururu. Ndetse n'utubaranga mu ijosi, inyuma yabo hari inyubako nini. Kuruhande rumwe ifite ibara ry'umweru urundi ruhande rufite ibara ry'umuhondo, hejuru hari amagambo yanditseho harimo ibara ry'ubururu avuga ngo inzu y'ababyeyi.

Icyumba gifite ibara ry'umweru ku bikuta hariho utundi tubara turimo icyatsi umutuku n'umuhondo urugi rusa shokora n'imbere harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kwa muganga mu gihe bavura amenyo harimo igitanda kiryamwaho n'umurwayi gisaumukara ndetse n'imashini ziri hejuru zitanga urumuri mu gihe bari kuvura umurwayi.

Inzu iteye irangi ry'umweru, ikikijwe n'ibyuma ku masima, igeretse rimwe ishakakaje amabati ajya gusa umweru, mo imbere harimo abantu b'ingeri zitandukanye, hagana hagati, harimo inkingi ziteye irangi ry'umuhondo ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, agira ati "ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi."

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye giteye irangi ry'umweru, ibyo bikoresho harimo ibitanda ndetse n'imashini zifashishwa mu kumenya uko ubuzima bw'abarwayi buhagaze, hirya hari puberi ndetse n'utubati tubikwamo imiti.

Icyumba kigurisha amarinete cyangwa se amadarubindi bambara mu gihe umuntu arwaye amaso, hari icyapa kandi gishushanyijeho umuntu wambaye amadarubindi, ndetse hejuru y'icyo cyapa hari akabati karimo amadarubindi menshi atandukanye agurishwa.

Itsinda ry'abagore bicaye ku ntebe z'imbaho bambaye ibitenge abandi bambaye amakanzu n'imipira y'ubururu, imbere yabo hari umugabo uhagaze wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru wahuje intoki, hirya hari abagabo bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza nini, inyuma hari ikibaho cy'umukara n'icyapa cyanditseho amagambo y'umweru.

Umugore wambaye agashati k'umweru, imbere ye hari umwana bashyize mu munzani bari gupima ibiro bye, iruhande rwe hateraniye abandi bagore batandukanye baje gupimisha abana babo ngo barebe ibiro bafite.

Inzu iteye irange ry'umweru ishakaje amabati y'ubururu iri hagati mu busitani, imbere yayo hari agati k'umwembe gateye hagati mu busitani, ikorotirije urugo rw'ibyuma, inyuma yayo hari indi inzu bisa hakuno hari akayira gasakaje amabati.

Urukuta rw'amabuye, ruriho amayesikariye, azamuka yerekeza ku nzu ifite inkingi z'umweru, hejuru hari amagambo yanditse mu cyapa cy'ubururu, agira ati, ''ikigo nderabuzima cya Tabagwe, hari urujya n'uruza rw'abantu baje kwivuza''.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku n'pantaro y'umukara ari gupfuka undi umwicaye imbere wambaye agapira k'umweru karimo utubara tw'umutuku n'ikabutura ya kake, afite igipfuko ku kaguru yicaye ku kabati kariho urupapuro n'indi miti. Hirya hicaye abandi barwayi hari n'imbago.

Umusore wambaye agapira ka gisirikare wicaye mu ntebe y'ubururu, yambaye ipantaro y'umukara yicaye ku cyuma kiri kumufasha kugorora akaguru ke. Iruhande rwe hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, inyuma yabo hari akabati karimo udukoresho baterura mu myitozo ngororamubiri.

Abantu bambaye imipira iri mu ibara ry'umutuku umweru n'ingofero ndetse n'amakabutura y'umuhondo harimo uturongo tw'umutuku, barimo bararwanira umupira uzwi wifashishwa mu mukino w'amaboko uzwi nka rugubi .Hejuru hari amagambo harimo ibara ry'umweru.

Itsinda ry'imbuto zirimo: imineke, inkeri, amagi, voka, inyama, n'ibindi biturutse ku masahani y'umweru abiri, hirya hari izindi ziri mu gatebo zirimo: imboga nk'amashu ndetse na pavuro n'izindi, hakuno hari utwuma tubiri dufite ibara ry'umukara twifashishwa muri siporo ngororamubiri hariho isome agacupa k'amazi kandi biturutse ku meza nini.

Umugabo wambaye agasengeri k'umukara, ipantaro y'umukara, irimo imirongo y'umweru n'inkweto z'umweru, yahurije amaboko ye ku ivi ry'iburyo, ivi ry'inyuma rirapfukamye hasi, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Itsinda ry'imbuto zitandukanye zirimo pome, irongi, ivoka, indimu ndetse n'kinyomoro iruhande rwazo hateretse agacupa k'amazi ndetse n'akuma kifashishwa mu myitozo ngororamubiri hamwe na metero ipima uburebure cyangwa ubugari.

Umugabo wambaye agapira k'umweru n'agakabutura k'umukara n'inkweto z'umweru, ahagaritse akaguru kamwe akandi yakarambuye imbere ye, yifashe mu mayunguyungu ari mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari ibyuma bikikije umuhanda.

Umugabo ufite ubwanwa wambaye agapira k'ubururu yazamuye akaboko k'iburyo kambaye isaha y'umukara gafashe agacupa k'amazi, arimo aranywa amazi bishoboka ko yarari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wicaye wambaye agapira k'umukara ikabutura y'umutuku yarambuye amaboko ye akaboko kamwe gafashe ku kuguru akandi gafashe ku kweto yambaye isaha y'umukara ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara ipantaro iciyemo akarongo k'umweru arasutamye azamuye amaboko imbere ye hari undi muntu nawe wambaye umwenda w'umukara n'gapira k'ubururu ari kumwereka uko bakora siporo hasi hari itapi y'ubururu hakurya hari ibyuma byifashishwa muri siporo ngororamubiri.

Imodoka y'imbangukiragutabara ifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, ifite ipine inyuma iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo imbere hari urukuta rw'amabuye ndetse n'ibiti bikikije umuhanda wa kaburimbo.

Umuntu wambaye agapira kariho utubara tw'umweru ndetse afite n'isume y'umukara ku rutugu rwe k'iburyo karazamuye agafashe icupa ry'amazi ari kunywa amazi kandi araramye inyuma ye hari ibitambaro bifite ibara ry'umweru n'umukara.

Itsinda ryabantu bahagaze kumurongo bambaye amajire y'umweru ariho ikimenyetso cy'umusaraba gitukura, bazengurutse umuntu uryamye hasi nawe wambaye iyo jire, umuri inyuma yambaye ijire y'umutuku amufashe ku bikanu aryamye ku kiringiti kiri hasi, hirya yabo hari imeza.

Akuma kagururuka gafite ibara ry'umutuku gateruye ikarito isize ibara ry'umweru ifite ikirango cy'umutuku, gifite ubuso bw'ibara ry'umutuku ariko igishushanyo cyo ni umweru, ni akamashini kifashishwa mu kujyana amaraso.

Umugabo wunamye wambaye agakabutura k'umukara ibiganza bye byombi bifashe ku ivi ry'iburyo ku kaboko ke k'iburyo yambaye isaha y'umukara ahagaze mu muhanda inyuma ye hari ibihuru.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu ndetse n'ikabutura y'umukara, mu kuboko kwe kw'ibumoso afitemo umupira ukinwa mu mukino w'amaguru, imbere ye hari umugabo wambaye agapira k'umuhodo n'agakabutura k'umukara, uri kugendera mu kuma gafite amapine gafasha abantu kumenya kugenda neza.

Itsinda ry'abantu, ririmo abagore, abagabo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, nk'ubururu, icyatsi umweru, umukara, bari mu kibuga cyubakije amapave, bari mu myitozo ngororamubiri, hirya yabo hari ibiti bihateye.

umugabo wunamye wambaye isengeri y'umukara n'agakabutura k'umukara karimo ibara ry'umweru, apfukamye hasi yarambuye amaboko ye yombi imbere ye, kandi apfukamye ku gatapi k'umukara hirya hari intebe z'imifariso ndetse n'amarido manini ari mu idirishya rye, afite ibara ry'umweru.

Agakarito gahagaze ka mpande enye gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'iry'ubururu bwijimye, handitseho amagambo manini ndetse namatoya ari mu ibara ry'ubururu bwijimye, hashushanyijeho uducupa dutatu dukurikiranye natwo turi mu ibara ry'umuhondo dufite imifuniko y'umweru twanditseho amagambo manini ari mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Abantu batandukanye bagaragara bakina imikino nk'iy'amaguru ndetse iy'amaboko, abakina birukanka, basimbuka imigozi n'abandi harimo n'abafite uducupa tw'amazi barimo baranywa.

Umuntu usutamye wicaye ku kaguru kamwe, yambaye agakabutura k'umweru n'isaha y'umweru, arambuye akaguru ke k'iburyo, yambaye inkweto zifite ibara ry'umweru n'umutuku, amaboko ye yayarambuye ku kaguru ke, inyuma ye hari idirishya rinini ry'ibirahure.

Icyumba giteye irangi ry'umweru kirimo ibikoresho byo kwa muganga nk'igitanda kiryamwaho n'umurwayi, itara hejuru yayo rumurikira muganga kuvura, utubati duteretseho za mudasobwa n'ibindi byuma byifashishwa mu buvuzi.

Uruvange rw'imbuto z'amoko atandukanye, harimo ironji, inanasi, indimu, voka, ipapayi ndetse n'ibinyomoro, ku rundi ruhande hari imidari, ibinini agacupa k'amazi yo kunywa n'ibyuma byifashishwa mu guterura muri siporo.

Ikiganza cyambaye akarindantoki k'umukara gifashe ijage yi'kirahure yera, kirimo kirasuka amazi mu kirahure giteretse ku meza y'umweru, ikirahure cyera amazi aracagase.

Umugabo uryamye ugaramye ibiganza bye yabihurije ku gatuza yambaye umupira w'umweru agakabutura k'umukara karimo uturongo tw'umweru n'icyatsi, hari undi mugabo wicaye washyize akaguru k'ukuryamye ku rutugu rwe yambaye isaha ari kumukanda ku itako.

Umukobwa wunamye wambaye ipantaro y'umweru n'agasengeri k'icyatsi kibisi, wafashe n'akaboko kamwe ku kaguru ke afite imisatsi y'umukara akandi kaboko afashe ku mugongo we hasi ahagaze ku itapi y'ubururu igikuta cyegereye kirasa ubururu bwerurutse.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'umweru, ahagaze mu nzu ifite impuzangano y'ibara ry'umweru. Iruhande rwe hari kizimyamwoto iri ku gikuta, afashe ingofero iri mu ibara ry'umutuku. Hirya ye hari izindi ngofero zifite ibara ry'icyatsi, hasi sima yaho iteye ibara ry'umukara.

Umugabo uryamye ugaramye wambaye agapira k'umweru n'ikabutura y'umukara waziritse umugozi ku kagaguru karambuye akandi kaguru karaye, umugozi ufashe ku cyuma kiri inyuma ye kifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri, hirya hari ibindi byuma ari mu nzu iteye irangi ry'umweru.

Umukobwa wambaye isengeri y'icyatsi, ikabutura y'ubururu, inkweto ari kwiruka, arimo arasunika icyuma kinini, ari mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri. Ahantu ari hari itapi y'icyatsi.

Umuntu wicaye akaguru kamwe akarambuye akandi yagahinnnye yambaye imyenda y'umweru arunamye amaboko ye yayakojeje ku kaguru karambuye, inyuma ye hari intebe ifite irangi ry'umuhondo ndetse n'ivase y'ururabyo afite imisatsi y'umukara.

Akagare kagendwaho n'abamugaye, gafite ibara ry'umutuku ndetse n'iry'umukara aho bicara. Gafite amapine ane ndetse n'akantu bashyiramo udukoresho runaka kari munsi y'intebe.

Uruhurirane rw'imbuto zifite amabara atandukanye izo mbuto zirimo pome, icunga, voka ndetse na pavuro n'ironji imbere yazo hari akuma gafite ibara ry'umukara kifashishwa muri siporo ngororamubiri inyuma yazo hateretse agacupa k'amazi.

Umuntu wicaye yambaye ikatabutura y'ubururu ufite mu ijosi agakoresho kifashishwa mu kumenya imiterere y'umutima w'umurwayi, yambaye uturindantoki tw'ubururu bwijimye ari kwambara agapfukamunwa k'umweru, imbere ye hari ame nini i iriho amakayi n'ikaramu ndetse na mudasobwa iri mu ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye agapfukamuwa k'ubururu n'uturindantoki wakoze ku muntu uryamye ku gitanda wiyoroshe amashuka y'umweru, yubitse inda hari insinga bamushyize mu mugongo, iruhande rwe hari imashini iri kwifashisha mu kureba uko ubuzima bwe buhagaze, inyuma yabo hari rido nini y'ubururu.

Itsinda ry'imbuto zirimo pome, pavuro, voka, inyanya, ishu na karoti, ku ruhande hari inkweto ndetse na tapi yo gukora siporo hamwe n'icupa ry'amazi n'udukoresho twifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Itsinda ry'abantu barimo abagore n'abagabo, bamwe bambaye amakoti y'umweru, umukara n'ubururu, imbere yabo hicaye abantu bambaye amataburiya y'ubururu, udupfukamunwa, imbere yabo hari ameza manini afite ibara rya shokora, ateretseho mudasobwa, terefone, ibitabo n'utundi dukoresho, imbere yabo bari kwitegereza tereviziyo irimo umuntu uri kubaganiriza.

Ibinini by'umweru biri hasi imbere yabyo hari umudari uriho umugozi ufite ibara ry'umukara, n'umweru hagati y'uwo mugozi harimo ikaramu hejuru hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru manini n'andi ari munsi yayo yanditse mu ibara ry'umweru, ry'icyatsi kibisi.

Umuntu wambaye insengeri y'umweru uri kwiruka ku cyuma cyagenewe kwirukaho mu nzu ngororamubiri, yitwa Gym, iruhande rwe hari umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara, ishati y'umumweru n'ipantaro y'umukara urimo uramugenzura.

Umuntu uri gukora imyitozo ngorora mubiri, arapfukamye akandi kaguru kari imbere karashinze, yambaye ikabutura y'ubururu n'agapira k'umweru, imbere ye hari ivaze irimo ururabyo, hamwe n'agacupa k'amazi, yazamuye amaboko hejuru.

Uruhurirane rw'imipira y'imikino itandukanye harimo uw'umupira w'amaguru ufite ibara ry'umweru n'umukara, uw'umupira w'amaboko ufite umutuku n'uturongo tw'umukara ndetse n'ingofero ifite ibara ry'ubururu n'utwuma imbere tw'umukara. Hakuno hari akandi gapira kameze nk'akari mu kintu cy'ikiganza gasa umweru n'umutuku.

Umuntu uryamye agaramye, yambaye agapira k'umukara n'akabutura k'umweru karimo amabara y'umutuku, akaguru kamwe karambuye akandi karahinnye, iruhande rwe hari undi muntu wamufashe akaguru uri ku kagorora, yambaye agapira k'umukara n'ipantaro ya kake.

Umukobwa wicaye hasi wambaye agasengeri k'umukara, ndetse n'ikabutura y'umukara, wabusanyije amaguru, ndetse n'amaboko imbere ye hari mudasobwa ifite ibara ry'umweru, ndetse n'utwuma duterurwa mu myitozo ngoramubiri. Iruhande rwe kandi hari icupa ry'amazi n'utundi dukoresho mu rundi ruhande hari intebe z'imifariso zifite ibara ry'umweru.

Umugabo wicaye wambaye agapira k’umweru inyuma, imbere harimo aku umukara. Afatishije akaboko ke k’ibumoso ishashi irimo amazi y’ ubururu, ahagana mu nkokora ku kaboko k’iburyo. Yambaye ipanta y’ ubururu yicaye mu ntebe zifite imifariso y’umweru.

Umuntu wicaye warambuye amaguru ye yombi arunamye yambaye agapira k'umuhondo ndetse n'agapantaro k'umutuku yakoze ku birenge bye byombi yicaye kandi ku gatapi gafite ibara ry'ubururu bwerurutse hirya ye hari igitnda.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi ariko hifashishwa imyitozo ngororamubiri, harimo utwuma duterurwa ubururu, umutuku, ndetse na metero z'imigozi n'ibindi bipimo, harimo n'imbuto n'amazi kandi hari intoki z'umuntu zifite ikaramu ziri kwandika.

Abantu basutamye bambaye amapantaro y'umukara amajeri y'umutuku barimo baravura umuntu uryamye hasi mu kibuga cy'umupira w'amaguru, inyuma yabo hari abantu bifashe mu mayunguyungu harimo uwambaye umupira w'umuhondo n'uwambaye uw'icyatsi kibisi ndetse n'ikabutura y'ubururu.

Umuntu wambaye agapira k'umutuku na ekuteri mu matwi, akaboko ke k'ibumoso gafite icupa ry'amazi arimo kuyanywa, arararamye afite imisatsi y'umukara miremire igera mu mugongo, ku kuboko kwe kw'iburyo haziritseho agakoresho kifashishwa mu gutwara telefone, mu gihe umuntu ari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye agasengeri k'umweru karimo uturongo tw'umukara ahagana ku maboko; ku ntugu, yahurishije amaboko ye yombi inyuma mu rugo yambaye isaha y'umukara afite umusatsi w'umukara ari kureba imbere ye.

Umugabo wambaye agapira k'umweru ndetse na ekuteri mu matwi, arararamye yazamuye ukuboko kw'iburyo kuriho isaha kandi gufashe agacupa k'amazi. Arimo aranywa amazi; afite umusatsi w'umukara, afite n'ubwanwa.

Umukobwa wicaye, wunamye wambaye agakabutura k'icyatsi karimo uturongo tw'umweru, ndetse n'agasengero ka oranje, afashe ku maguru ye, imbere yambaye inkweto z'umweru afite imisatsi y'umukara, hirya ye hari igitara kibamurikira yicaye mu byatsi butoshye.

Umuntu wicaye ku gitanda gifite matera y'umukara kandi nawe yambaye imyenda y'umukara, yarambuye akaguru hari umuntu uri kumwambika amasogisi usutamye nawe wambaye imyenda ye y'umukara, bari mu cyumba kandi kirimo akabati inyuma yabo gateretsemo ibikoresho bitandukanye.

Umuntu wicaye wambaye agasengengeri k'umukara hariho uturongo turi mu ibara ry'ivu, yarambuye amaboko ye yombi yakoze ku nkweto ze arimo arakora siporo ngororamubiri, yicaye mu busitani.

Umuntu wicaye arambije kandi wunamye amaboko ye yombi yayashyize hejuru y'ibirenge bye, afite umusatsi w'umukara ugera mu mugongo, yambaye ipantalo ndetse n'agasengeri k'icyatsi cyerurutse.

Umugabo wambaye agapira kajya gusa umukara ndetse n'agasume k'umweru ku rutugu rwe arararamye afatishije akaboko ke k'iburyo icupa ry'amazi arimo araywa, afite ubwanwa n'umusatsi.

Umugabo uryamye ku gitanda wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro ya kake, akaguru ke k'iburyo bagashyize ku cyuma kiri kumufasha kugorora akaguru, imbere ye hari abagabo bambaye amakote harimo irisa nk'umweru irindi risa ubururu.

Agakapu gafite ibara ry'umutuku n'umukara, gatwarwamo imiti itandukanye ndetse n'utundi dukoresho turimo imikasi, utwuma ndetse n'udukoresho dupima ubushyuhe, amakaramu, ibipfuko n'imiti itandukanye.

Igiteleviziyo kinini gifite umuzenguruko w'ibara ry'umweru mo imbere harasa umukara harimo uturongo n'imibare ni icyuma cyifashishwa kwa muganga mu kugaragaza uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze hirya hari umurwayi uryamye ndetse n'umuganga uri kumwitaho.

Umugabo uhagaze, wambaye agapira k'umukara, ikabutura ya kake, ateruye icyuma kifashishwa mu myitozo ngororamubiri, arahagaze hirya ye hari ibindi byuma biba mu nzu y'imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye agasengeri k'umukara, wicaye, wambaye akantu ku kuboko, ukuboko kwe gushikamiye inkokora. Akandi kaboko ke k'ibumoso gafite icupa ry'amazi, arimo aranywa amazi.

Itsinda ry'abantu bambaye amataburiya y'umweru n'undi wambaye ikoti ry'umukara, barimo baraganira kumashini iri imbere yabo iriho ekara irimo umuntu bari kuganira wambaye ishati y'ubururu, hakurya hari ibitaro biryamyeho abarwayi batandukanye.

Umuntu wicaye wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'uturindantoki tw'umweru afashe ku cyuma, undi mugabo uhagaze wambaye agapira k'umweru n'ikabutura ufashe ku kuma kifashishwa mu kugenda, hirya yabo hari icyuma gitanga umwuka mu nzu.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agakoresho kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima mu ijosi afashe n'ibiganza bye byombi ku ivi ry'umuntu uryamye ku buriri wambaye ikabutura y'umweru arimo kumukanda.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo ipantaro y'umukara n'inkweto, yicaye hasi yarambuye akaguru kamwe akandi karahinnye yarambuye amaboko ye yombi yayakojeje ku kaguru karambuye, inyuma ye hari indabyo yicaye iruhande ikigaragara ari mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu wicaye wambaye agapira k'umweru n'agashanete mu ntoki, yakoresheje ikiganza cye, ishashi irimo amazi y'ubururu agana mu nkokora ye y'akaboko k'ibumoso. Yambaye ipantaro y'ubururu, yicaye mu ntebe zifite imifariso y'umweru.

Abantu bari muri siporo ngororamubiri higanjemo abana batoya bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, harimo umweru, umuhondo, umutuku ndetse n'icyatsi, bari mu kibuga cy'umukino w'amaboko wa basiketi hirya hari inzu yubatse ishakakaje amabati y'umutuku, hakurya hari urutoki ndetse n'ibiti.

Agacupa gafite impuzangano y'ibara ry'umweru handitseho amagambo arimo ibara ry'umutuku ndetse na oranje, y'umukara, haruguru yaryo hari ikibabi gifite amashami atatu, hakuno hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru n'umukara ndetse n'ibinini byegerejwe.

Umugabo wambaye agashati, karimo uturonko tw'umukara n'ipantaro ya kake, wafashe ku meza iriho amacupa atandukanye, imbere ye hari undi mugore wambaye igitambaro mu mutwe, inyuma ye hari intebe z'ubururu za palastiki, inyuma cyane hari ibitambaro by'umweru, hariho amagambo yanditseho ngo dukora, hariho na numero za telefone.

Ibirahure bibiri byegeranye birimo icyayi kirimo ibibabi by'ubururu, biteretse ku meza y'umweru kandi ku ruhande rwabyo hari ibibabi by'igiti cy'umuravumba, icyo cyayi kirasa umutuku.

Abantu bari ku murongo bari mu murima uhinzwemo igihingwa cy'inanasi, imbere yabo hari imodoka zifashishwa mu buhinzi bw'imyaka hirya hari igiti kinini kibari hejuru.

Akabati karimo ibikombe bitandukanye birimo imiti ya kinyarwanda harimo ibifite imipfundikizo ifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibifite imifundikizo ifite ibara ry'umutuku harimo n'amacupa atandukanye.

Isinda ry'abantu icumi bahetse ibikapu bari kugenda mu mazi, imbere yabo hari imisozi iteganye iriho ibiti hagati harimo umusozi uri kumanukamo amazi agwa hasi, ni abakerarugendo bari gutembera.

Uducupa dutandukanye tumwe duteretse neza utundi duhengamye, harimo udusa umweru ndetse n'akandi gasa umuhondo gafite umupfundikizo usa nka shokora uteretse ku meza isa nka kake.

Icupa riteretse rifite ibara ry'umweru ndetse n'akanyoni kari mu ibara rya kake, handitseho kandi amagambo ari mu ibara ry'ubururu. Iruhande rwaryo hari ibice bitatu by'ikimera cy'ikakarubamba.

Uducupa tubiri duteretse duteganye, dushushanyijeho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, na oranje hirya hari amafoto ane y'abantu afite uruhu rwangiritse.

Umuntu wambaye agapira k'umukara uri kureba imbere ye hirya ye hari udukarito twa mpande enye dushushanyijeho ibintu biri mu mabara atandukanye nk'icyatsi, umutuku n'ubururu, umuhondo n'andi mabara hejuru, hari amagambo manini yanditswe mu ibara ry'umweru n'umukara.

Ikirahure giteretse ku meza, iruhande rw'ivaze irimo ururabyo, ikiganza gifashe uduti tubiri tubusanyije tw'igiti cy'umuravumba, utwo duti duteretse muri iyo vaze.

Amacupa abiri ateganye ya palasitike rimwe riri mu ibara ry'umuhondo ryanditseho amagambo ari mu ibara rya shokora kandi n'umupfundikizo ni ko usa; irindi riri mu ibara ry'umweru rifite umupfundikizo usa umutuku n'amagambo aryanditseho asa umutuku; kandi yose ashushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba.

Umugabo wambaye Itaburiya y'umweru wicaye ku ntebe y'umukara ari kureba ibimenyetso afite mu ntoki, imbere ye hari ameza manini ateretseho amacupa arimo irisa umweru n'ibindi bisa umukara zose afite imipfundikizo y'umutuku.

Amafoto agaragaza ibice by'umubiri w'umuntu bitandukanye biri kubabara, nko ntugu, mu mugongo, mu ivi, mu nshyi z'amaboko, mu nkokora n'ahandi. Amacupa afite ibara ry'umweru, imipfundikizo y'ubururu, arimo imiti ivura ububabare bwo mu ngingo.

Akabati karimo imiti itandukanye Kinyarwanda irimo uducupa dufite amabara atandukanye nk'umutuku ndetse n'icyatsi hirya yaho hari indi iri mu macupa y'ibirahure apfundikishije udufundikizo tw'umweru hirya hari umuntu wambaye imyenda y'imyeru uhagaze mu busitani hakuno hari undi muntu uri mu muhanda ari kugenda.

Agakarito ka mpande enye, gashushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba, kandi handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kijimye, ndetse n'andi ari mu ibara ry'umuhondo, impuzangano y'iryo bara ry'ako gakarito ni umweru.

Umuntu uhagaze wambaye umupira w'icyatsi ufite ikora ifite ibara ry'umuhondo, yambaye ipantaro y'umukara ateruye igiti cy'umuhati, inyuma ye hari esikariye zifite ibara ry'icyatsi, n'icyapa kinini giteye irangi by'ubururu.

Agakombe k'icyayi gateretse ku gasahani k'umweru imbere karimo ji y'amacunga gateretse ku gatambaro gafite ibara rya kacye ku ruhande hari icunga ryuzuye ndetse na tangawize iteretse ku meza y'igiti.

Itsinda ry'imiti ya kinyarwanda riri mu ducupa twa pulasitike nutw'ibirahure twiganjemo amabara y'ubururu n'umweru, hirya hari abantu bahagaze ku meza nini bari kwitegereza iyo miti, harimo abagore bambaye ibitenge n'abagabo bambaye udupira tw'umweru

Uducupa duteganye tureshya kamwe karirimo ibara ry'umuhondo wijimye kandi karimo umuhondo n'umweru harimo agafite imupfundikizo ufite ibara rya shokora, akandi gafite umupfukizo uri mu ibara rya orange twose yadushushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba iruhande rwatwo hari imbuto bakasemo uduce dutatu hamwe n'igice cy'ikimera k'igikakarubamba.

Itsinda ry'uducupa twinshi, tumwe dufite ibara ry'umweru, utundi dufite ibara ry'ubururu, hari n'utundi tureshya dutatu, harimo ak'umuhondo n'utundi tundi tw'umweru turi mu mashashi, imbere ya twose hari udukarito dutatu turyamye hasi, turi mu ibara ry'umuhondo n'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi.

Itsinda ry'uducupa ndetse n'udukarito, harimo uduhagaze duteganye dufite ibara ry'umuhondo dushushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba, twanditsemo n'amagambo arimo mw’ibara ry'umukara. Inyuma yatwo har’agakarito ka mpande enye gashushanyijeho umuntu karimo mw’ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kijimye, hakuno ku ruhande har’akandi kari mw’ibara ry'umweru n'umutuku.

Umuntu wasetse ufite amenyo y'umweru hasi hari ishusho y'imiti y'amenyo igizwe cyane cyane n'igikakarubamba. Ni uducupa dutandukanye twose duhagaritse hamwe, hakuno hari icyapa kiriho amagambo atandukanye amwe ari mu ibara ry'umukara n'andi ari mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Ibiganza bibiri by'umuntu biteruye agacupa gatoya gafite ibara mpuzankano ry'umukara harimo amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru hagati harimo irindi bara rya orange ririmo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara.

Ibinini bipfunyitse neza bifite ibara ry'umweru, iruhande rwabyo hari ikarito ya mpande enye, iri mu mabara atandukanye nk'umweru, icyatsi, umuhondo, umutuku, ubururu ndetse n'amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umukara.

Utubido dutatu tungana ariko dutandukanye mu mabara, kamwe karasa umuhondo, kari hagati, utundi turi inyuma turasa umweru, dufite imipfundinikizo y'amabara atandukanye nk'umutuku, shokora ndetse n'umuhondo. Hakuno hari uducupa tuhateretse dushushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba.

Ibimamiyo bibiri bisa umweru, biteretseho ibinini, harimo ibisa umweru n'ibindi bisa umuhondo, iruhande rwabyo hari itasi y'isekuru irimo n'agahini kayo ndetse n'indabyo z'umweru zifite udutima tw'imbere tw'umuhondo, kandi byeyegeranye n'amacupa asumbana y'imikara.

Isahane ifite ibara ry'umweru riteretseho agacupa k'umweru, kegeranye n'ubwoko bw'imbuto y'ironji baciyemo uduce dutandukanye ni ibisate by'imbuto.

Ikarito iri mu buryo bwa mande enye, ishushanyijeho umuntu wambaye imyenda y'imikara, kandi kuri iyo karito hariho amagambo ashushanyishije ibara ry'umukara, yanditse mw'ibara muzankano ry'umweru.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru mu kuboko kumwe afitemo ibinini bitatu bifunitse neza, mu kundi kuboko afitemo agakarito kampande enye afite impuzankano y'ibara ry'umweru kanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi imbere ye hari ameza manini asa umweru.

Umugabo wambaye ishati y'umukara arimo uturongo tw'umweru ashikamiye imeza iriho igitambaro cy'umweru iteretseho amacupa afite imipfundikizo itandukanye irimo amabara y'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, imbere ye kandi hari umugore na we ushikamiye iyo meza wambaye igitambaro mu mutwe, wari wicaye ku ntebe ya parasitiki y'ubururu.

Itsinda ry'uducupa twa purastike tubiri ni utubido kamwe karasa umuhondo akandi karasa umweru, utundi ni uducupa dusanzwe harimo n'udushushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba, hirya hari ikarito nini ishushanyijeho abantu n'uducupa tw'imiti turi imbere y'iyo karito.

Utubido tubiri twegeranye dusize irange ry'umuhondo, dufite umupfundikizo w'umutuku, amagambo ndetse n'akanyoni kagurutse bisa umutuku. Imbere y'utwo tubido, hari ikarito isa umweru iriho ibimera ndetse n'uducupa duteretse iburyo ndetse n'ibumoso bw'iyo karito. Harimo agafite ibara ry'umweru n'ubururu n'akandi gafite ibara ry'umweru n'icyatsi.

Amacupa ya parasitike atondetse ku murongo harimo atatu maremare ari mu ibara nk'umuhondo, umweru wijimye n'uwerurutse, kandi afite imipfunikizo ifite amabara nk'irya shokora, umutuku ndetse n'ikijuju, hirya yabo hari utundi ducupa tugufiya turi mu ibara mpuzankano ry'umweru, n'udupapuro tuzengurukijeho turi mu ibara ry'umuhondo.